Abaganga bo ku bitaro ndetse n'abayobozi babyo bahagaze bifotoza imbere y'inyubako yubakishijwe utubuye duhiye yanditsweho Sale de conference ikorerwamo inama, ubwo bari bavuye ku nama yo kunoza serivise batanga.

Umusaza ufite imisatsi irimo imvi wambaye agapira k'umweru, ikoti rya shokora ndetse n'ingofero ya shokora urimo gufatwa ibipimo by'umuvuduko w'amaraso n'umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'agapira ka mo imbere k'icyatsi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'amaboko urimo kumwenyura, akaba yicaye imbere ye afashe ku ijerekani, yicaye imbere y'ivomero rusange ryashyizweho na leta muri gahunda yo kwegereza abaturage amazi meza, mu kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ushyize ikiganza imbere y'ivomero akaba yambaye ikoti ry'umukara ry'amaboko maremare akaba arimo kunywa aya mazi akaba ari amazi meza yashyizweho na leta muri gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bibafasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no gukoresha amazi yanduye.

Umumama ukennyeye igitenge uhetse umwana mu mugongo akaba arimo koza ibikoresho byo mu rugo akoresheje amazi meza aya mazi akaba ari ivomo rusange ryubatswe na leta muri gahunda yayo yo kwegereza abaturage bayo amazi meza asukuyemo kugira ngo bibafashe kwirinda indwara ziterwa no gukoresha amazi yanduye.

Abaganga bahagaze imbere y'ivuriro rya Girubuzima, ryita ku buzima bw'abantu batandukanye, harimo nk'abana, ndetse n'abakuru, aho batangira serivisi z'ubuzima nko kuvura, gusuzuma, ndetse no gutanga imiti.

Ababyeyi bateruye abana, bahuriye mu kibuga, aho baje gufata serivisi zo gukingira abana bakiri bato iseru, aho hari muganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, ufite urushinge arimo kurutera umwana, arimo kumukingira iseru.

Umukobwa ufite imisatsi miremire w'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru, wambaye mu matwi agakoresho gakoreshwa kwa muganga, urimo gupima umwana, iyo wumva uko umutima utera, umwana akaba ahagaze iruhande rwa mama we.

Urubyiruko rwambaye amapantaro y'umukara ndetse n'udupira tw'ubururu turiho ibirango bya unisefu bakaba bahagaze iruhande rw'icyapa cya unisefu, kikaba ari ikigo mpuzamahanga cyita ku bana kiba cyita ku mibereho yabo no kubafasha kubona ubuvuzi ndetse n'uburezi mu buryo bwiza, mu kubafasha gukura neza no kugira ubuzima buzira umuze.

Umuganga wambaye umwambaro wabugenewe w'ishati y'umweru y'amaboko magufi ndende hamwe n'ibikoresho byo kwa muganga, aho yari arimo gutera umwana urushinge rw'urukingo rw'imbasa, uyu mwana akaba yari ateruwe n'umubyeyi we, uru rukingo rukaba rufasha umwana gukura neza afite ubuzima buzira umuze.

Umukobwa usutamye wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi, akaba arimo kuvomera mu ijerekani amazi meza ku ivoma rusange ryashyizweho kuri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage mu rwego rwo gufasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza bakoresha amazi meza birinda indwara zishobora guterwa no gukoresha amazi mabi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzangano ya kaki, aho bari imbere y'ivomero ryubatswe muri gahunda ya Leta yo kugeza amazi meza mu baturage, aho bifasha abo bana gukoresha amazi meza atarimo imyanda, bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Abadamu babiri biteze ibitambaro hamwe n'umugabo uri hejuru wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, aho barimo gutondeka imifuka irimo ibiribwa bitandukanye byo kwifashishwa kwa muganga bagaburira abarwayi kugira ngo bibafashe kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye agapira gatukura hamwe n'ingofero y'umweru, ndetse n'agapfukamunwa. Arimo gusuzuma umwana mu kanwa areba ko nta ndwara zifata mu kanwa arwaye, mu kugira ngo ahabwe serivisi z'ubuvuzi, no kugira ngo hirindwe indwara zifata abana.

Umujyanama w'ubuzima wambaye bote z'umweru ndetse n'ipantaro y'umweru hamwe n'ishati y'amaboko magufi arimo uturongo, akaba yari arimo kwigisha umubyeyi uteruye umwana ukuntu bakora indyo yuzuye ifasha umwana kwirinda indwara ziterwa n'imirire mibi.

Impuguke mu by'ubuzima hamwe n'abaganga bo ku bitaro bya CHUB bari bicaye mu cyumba cy'inama, aho bari bafite ibirahure by'amazi ndetse abandi birimo ji, barimo kwiga ku ngamba zitandukanye zirimo uburyo bwo kwihutisha serivise zo ku bitaro.

Abaturage bahuriye ku ivomo rusange bashyize amajerekani imbere y'ivomo, aho barimo kuvoma amazi meza yubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage mu kubafasha kugira ubuzima bwiza, birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi yanduye.

Umubyeyi ukenyeye igitenge, wambaye agapira k'amaboko magufi, akaba ateruye mwana, afite indobo y'umukara ku ivomero, aho arimo kuvoma amazi meza ku irivomero rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza, mu gufasha abaturarwanda, kwiyirinda indwara ziterwa, no gukoresha amazi mabi, bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Inzobere mu by'ubuzima zikora mu bitaro bitandukanye mu Rwanda zahuriye mu cyumba cy'inama zikaba zifite amakaramu ndetse n'amakayi zirimo kwandikamo ingingo zimwe na zimwe zirimo kwigirwa muri iyi nama, zirimo kuzamura ireme ry'imivurire mu Rwanda no kongera ubushobozi bw'ibitaro, aho Imbere y'aho hateretse amazi ari mu ducupa.

Abaturage bafite ibivomesho bitandukanye bahagaze bakikije ivomero rusange ritanga amazi meza, iri vomo rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, mu kubafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi yanduye.

Gorobo herifu oruganizesheni, akaba ari ikigo gishinzwe ubuzima ku isi mu rwego rwo guteza imbere serivisi z'ubuzima n'imibereho myiza y'abatuye isi muri rusange, kikaba gitanga inama ndetse n'ibikoresho bitandukanye bifasha mu kugira ubuzima bwiza.

Umwana ushyize ijerekani ku ivomo rusange, undi arimo gufungura, iri vomo rikaba ryarubatswe kuri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturarwanda, bigafasha gukoresha amazi meza, bakagira ubuzima bwiza buzira indwara ziterwa n'amazi arimo umwanda.

Abana bato bari mu kidendezi cy'amazi, bakaba barimo kuvoma bakoresheje ibikoresho bitandukanye nk'amabase ndetse n'indobo, aho aya mazi atari amazi asukuye, aho ashobora gukoreshwa mu gukora amasuku ariko leta ikaba ishishikariza abaturage gukoresha amazi meza aho kujya gukoresha aya mazi yo mu bishanga.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe yambarwa mu gihe barimo gutanga serivisi z'ubuzima zo kubaga, aho bambaye imyenda bikwije ndetse bipfutse no mu mutwe bapfutse n'isura kugira ngo birinde ko bakanduzwa n'indwara z'umurwayi barimo kuvura, aho hari umurwayi uryamye ku gatanda iruhande rw'imashini, barimo gukorera serivisi zo kubaga kugira ngo bamuvure.

Umuganga w'umu mama wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi urimo gutera urukingo rw'imbasa umwana uteruwe n'umubyeyi we, aho bimufasha gukura neza atandura indwara zitandukanye harimo nk'imbasa zimwe mu ndwara zibasira abana bato cyane.

Impuguke mu by'ubuzima zicaye ku ntebe imbere yazo hari uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa, umudamu wicaye hagati wambaye agashati k'umukara ndetse n'imisatsi ya prante akaba afite indangururamajwi barimo gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima no guhugura abaturage mu buryo bwiza bwo kwirinda indwara zitandura.

Inyubako ziri mu gapangu k'ibyuma, zubakishijwe utubuye duhiye, zikaba ari izo kwa muganga zitangirwamo serivisi zitandukanye, aho zifasha abarwayi kubona serivisi z'ubuvuzi.

Ivomero rusange rihagazweho n'umugabo urimo kuvomera mu ijerekani, akaba ari kuvoma amazi meza muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage mu kubafasha kwirinda indwara nyinshi zitandukanye ziterwa no gukoresha amazi yanduye, iyi gahunda ikaba ifasha abaturage kugira ubuzima bwiza.

Abaturage barimo kuvoma amazi yo mu gishanga anogerezwamo ibinyabiziga by'amagare, aya mazi akaba ari amazi yanduye, aho leta ishishikariza abaturage kudakoresha aya mazi imirimo yo mu rugo, nko kwoza ibyombo cyangwa se kuyanywa kugira ngo birinde indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi.

Abaturage bicaye mu kibuga kiri imbere y'inyubako ikorerwamo n'ikigo nderabuzima, ubwo bari baje kwipimisha indwara zitandura nka diabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso, ubwo hari hashyizweho iyi gahunda mu rwego rwo kumenya uko abaturage bahagaze no kubafasha kumenya uko ubuzima bwabo bumeze kugira ngo bitabweho hakiri kare birinde izi ndwara.

Ababyeyi bicaye ku ntebe bafasha abana mu ntoki, bamwe bakaba bambaye ibitenge, biteze n'ibitambaro, bakaba baje gufata serivisi zo gukingiza abana indwara zitandura, aho bibafasha gukura neza, bagakura bafite ubuzima buzira umuze.

Impuguke mu by'ubuzima zicaye mu cyumba cy'inama, zikikije ameza, imbere yazo hateretse udutasi turimo icyayi n'isakazamashusho, barimo kwiga ku buryo banoza serivise z'ubuvuzi zihabwa abaturage, mu kugira ngo bongere serivise batanga bityo batange serivise zinoze.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare hamwe n'uturindantoki tuzwi nka ga, aho arimo gutera urushinge umwana uteruwe na mama we mu rwego rwo kumukingira imbasa. Indwara ikunze kwibasira abana.

Umwana ufite isabune mu kiganza urimo gusukirwa amazi meza ari mujage, aharimo kwigishwa gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune, zimwe muri gahunda za leta zo gushishikariza abantu kugira isuku bityo bakirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye imipira y'ubururu, biganjemo urubyiruko, ubwo bari bavuye mu bukangurambaga bwateguwe n'umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubwo bashishikarizaga abaturage gukaraba intoki n'amazi ameza n'isabune nka bumwe mu buryo bwabafasha kwirinda indwara zandura ziterwa na mikorobe.

Abana barimo kuvoma amazi ku ivomo bakoresheje indobo z'umweru, iri vomo rikaba ryarubatswe kuri gahunda ya Leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage mu kubafasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi.

Abaganga bambaye impuzankano yabo, ifite ibara ry'ubururu, bari kumwe n'izindi mpuguke mpuzamahanga mu by'ubuzima, barimo kugaragaza porogaramu nshya, yo gusuzuma abaturage indwara zitandura, harimo nka Diysbete ndetse n'ama Epatite

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, bahagaze munsi y'icyapa cyanditseho uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu, akaba ari gahunda yashyizweho na Leta, mu rwego rwo gushishikariza abangavu kwirinda inda zitateganyijwe.

Umwana wambaye agakanzu kadozwe mu bi bitenge, akaba asutse imisatsi, ufite icupa ririmo amazi meza, akaba arimo gukaraba intoki, imwe muri gahunda zashyizweho na leta zo gukangurira abaturage gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bityo bikabafasha kwirinda indwara ziterwa n'udukoko twandura.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amajipo n'amakabutura by'ubururu hamwe n'amashati y'ubururu bwerurutse, bakaba barimo kunywa amazi aturutse mu bigega byiza biba birimo amazi asukuye, iyi ikaba ari gahunda yashyizweho na leta mu rwego rwo kwegereza abaturage amazi meza bibafasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umwana ufashe mu ntoki ijagi y'ubururu irimo amazi meza, arimo gusukira mukuru we, wambaye ikabutura ndetse n’isengeri y’umukara, ufite isabune mu ntoki urimo gukaraba intoki neza n'amazi meza n’isabune. Imwe muri muri gahunda ya Leta yo gushishikariza Abaturarwanda, gukaraba inshuro nyinshi amazi meza n’isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n’umwanda.

Umunsi mpuzamahanga w'abatanga serivisi z'ubuvuzi aho habaye inama kuwa mbere tariki makumyabiri n'ebyiri kugeza kuri tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho bagarutse ku nkingo zishishikariza abatanga izi serivise kunoza serivise batanga kugira ngo bafashe abaturage bo muri Afurika kugira ubuzima bwiza.

Abaganga bambaye imyambaro yabo y'amataburiya y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, bafashe imiti mu ntoki yabo aho bari bahuye n'impuguke mu by'ubuzima, zari zaturutse mu mahanga mu kubahugura muri serivise zo gufasha abahuye, abanduye icyorezo cya kovide cyayogoje isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri

Umunyeshuri wiga mu mashuri abanza wambaye impuzankano ya kaki, urimo gukoraba amaboko akoresheje amazi meza n'isabune, iyi akaba ari gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda, mu rwego rwo kwimakaza isuku no kurwanya indwara ziterwa n'umwanda.

Umuganga wambaye imyenda y'icyatsi yabugenewe witeze igitambara mu mutwe yambaye n'agapfukamunwa, akaba arimo kureba mu mashini ifasha guhumeka umurwayi ndetse igapima k'umutima utera bikaba ari ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura abaturage indwara zitandukanye.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agashati k'amaboko magufi, urimo gufasha abana bato kuvoma utujerekani twabo tw'amazi, aho iri vomo ryubatswe kuri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza no kwegereza abaturage amazi meza, bibafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara, zishobora guterwa no gukoresha amazi mabi.

Ibyuma bya bomboni bibikwamo amagaze atandukanye yifashishwa kwa muganga, aho yifashishwa mu gufasha abarwayi barembye cyane kubona umwuka wo guhumeka no kubafasha guhumeka mu gihe barimo kuvurirwa kwa muganga.

Abaganga bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abambaye amataburiya y'umweru, bari barimo kwifotoreza mu nyubako, aho bari bavuye gutanga ikiganiro ku baturage, kibakangurira kwisuzumisha indwara zitandura bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye taburiya y'umweru ndetse uteze igitambara, arimo gupima umumama ukenye igitenge, na we uteze igitambara, akaba ari kumupima akoresheje ibyuma byo kwa muganga byabigenewe, bipima umuvuduko w'amaraso, mu gufasha kumenya abaturage uko bahagaze.

Umwana wambaye ikabutura, hamwe n'ishati y'icyatsi, ari ku ivomero, aho arimo gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, uyu mugezi ukaba warubatswe na leta, muri gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, mu kubafasha kugira ubuzima bwiza, birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Minisitiri w'intebe wa Repubulika y'u Rwanda Edouard Ngirente, ubwo yari ayoboye ikiganiro hamwe n'impuguke mu by'ubuzima, ubwo bari barimo kuganira ku ngingo zitandukanye, zo gufasha ibitaro byo mu gihugu cy'u Rwanda, kongererwa ubushobozi kugira ngo birusheho kunoza serivisi z'ubuvuzi zitanga.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'ishati irimo amabara ya gisirikare, akaba arimo kunywera amazi ku ivomero rusange rizana amazi meza, iri vomero rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara ziterwa no gukoresha amazi yanduye.

Umuganga ukora ku kigonderabuzima wambaye itabuririya y'ubururu akaba akikijwe n'ababyeyi bateruye abana, baje gupimisha abana ibiro kugira ngo bamenye uko abana bahagaze nuko imikurire yabo imeze kugira ngo bitabweho mu buryo butandukanye.

Abaturage bakikije ivomo ryubatswe kuri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturarwanda mu kubafasha kugira ubuzima bwiza bakoresha amazi meza, birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi.

Abana b'abanyeshuri bambaye amashati y'icyatsi ndetse n'ay'umweru, bahetse ibikapu, bavuye ku ishuri, bashyize ibiganza kuri robine iriho amazi meza, banywa amazi meza, aya mazi akaba yaragejejwe ku bigo by'amashuri muri gahunda ya Leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abana bahagaze bakikije indobo bateze amaboko umubyeyi wabo arimo kubafasha gukaraba intoki bakoresheje amazi meza, imwe muri gahunda ya leta yo gushishikariza Abanyarwanda gukaraba amazi meza n'isabune, kugira ngo birinde udukoko dufata ku biganza dutera indwara mu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abanyeshuri bambaye impuzangano ya kaki bakaba bahagaze imbere y'ivomero rusange riri mu kigo cy'amashuri ryubatswe muri gahunda ya Leta yo kwegereza abaturage amazi mez, aho aya mazi anyobwa n'abo bana mu kugira ngo bibafashe kugira ubuzima bwiza, hirindwa gukoreshwa amazi yanduye ateza indwara, bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, hagati yabo harimo uwambaye itaburiya y'umweru, bakaba bambaye ingofero zo mu mutwe, ndetse n'udupfukamunwa bafashe imiti mu ntoki zabo. Bakaba barimo gutanga serivisi zo kubaga abarwayi kugira ngo babafashe gukira indwara bagire ubuzima bwiza.

Urubuga rukoresha ikoranabuhanga rwashyizweho mu bihugu by'u Rwanda, Ghana ndetse na Canada mu gushishikariza abantu gufata urukingo rwa HPV mu rwego rwo kugira ngo birinde indwara ziterwa n'aka gakoko.

Umwana uteze intoki ku ivomero ry'amazi meza, ari kunywa amazi meza, iri vomo rikaba ryarubatswe ku bufatanye na UNICEF, ikigo cyita ku bana, kikaba cyarafashije leta kubaka amavomero menshi meza, afasha kugeza amazi asukuye ku baturage mu kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Impuguke mu by'ubuzima zirimo gutembera ibice by'icyaro, zireba uko abaturage babayeho, mu rwego rwo gufasha leta gushyiraho ingamba ziboneye zo gufasha abaturage barwo, kugira ubuzima bwiza no gushyiraho ama porogaramu abafasha kubona serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, mu kugira ngo bagire ubuzima.

Umuganga wicaye ku ntebe, yambaye ikoboyi y'ubururu ndetse n'umupira w'imbeho w'umukara, akaba ari imbere ya mudasobwa, arimo kwakira umurwayi na we wambaye agapfukamunwa ndetse n'ikanzu idozwe mu gitenge, waje kuvuza umwana we muto w'umukobwa, barimo kubashyira muri sisitemu kugira bahabwe serivise z'ubuvuzi.

Urubyiruko rwari rwitabiriye amarushanwa ya UNICEF, ikigo cyita ku bana, cyari kigamije gufasha abana ndetse n'abantu bakuru kwita ku nshingano zabo ndetse n'ubuzima bw'abana.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bicaye ku mikeka bambaye udupira tw'ubururu, aho barimo kuganirizwa n'ababarera abarimu bicaye ku ntebe ndetse n'abicaye iruhande rwabo mu rwego rwo kubafasha kumenya uko bakita ku buzima bwabo n'uko bakirinda indwara zitandukanye.

Ababyeyi barimo kuvoma amazi meza ku ivomero rusange ryubatswe na leta mu rwego rwo gukwirakwiza amazi meza mu baturarwanda mu kubafasha kugira ubuzima bwiza, birinda gukoresha amazi yanduye kuko abateza indwara zitandukanye. Iyi gahunda ikaba bakaba bavuga ko yabafashije cyane kwirinda indwara za hato na hato.

Abaganga b'inzobere mu kuvura abana bato, bambaye amataburiya y'umweru, ndetse bari kumwe n'izindi mpuguke, zirimo gufasha abiga umwuga wo kuvura, mu kubafasha kumenya byinshi ku bijyanye n'akazi kabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano ya kaki, aho bari bahagaze ku mavomero rusange barimo kuvoma bakoresheje indobo ndetse n'utujerekani, aho barimo kuvoma amazi meza yo gukoresha ibituma bagira ubuzima bwiza birinda indwara baterwa no gukoresha amazi mabi.

Umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru, wambaye n'agapfukamunwa, akaba arimo kwandika mu gitabo umusore waje kwipimisha sida ku bushake, muri gahunda barimo yo kwirinda sida bafasha urubyiruko kumenya uko ruhagaze, aho bicaye munsi y'icyapa cyanditseho:" SIDA IRACYARI DUHAGURUKE TUYIRWANYE "

Abana babiri bahagaze iruhande rw'ivomo rusange, bafite indobo irimo amazi barimo kuyitwara, aho iri vomo ryubatswe muri gahunda ya Leta yo kwegereza abaturage amazi meza, mu kubafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abagabo bambaye bikwije ibisarubeti ndetse bipfutse no mu maso aho bari barimo gusuzuma aharwariye abarwayi barwaye korona ubwo bari barimo kuvura iki cyorezo cya corona virus mu Rwanda mu mwaka w' ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Icyapa cy'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima WHO World Health Organization ukaba ari umuryango ukora ibikorwa bitandukanye ukanakurikirana gahunda zitandukanye z'ubuzima nko kuvura ndetse no gusuzuma ibikoresho bikoreshwa kwa muganga bifasha abaganga gukora akazi ko kuvura abantu neza.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ingofero y'umukara akaba arimo kwihanagura amarira mu maso yipfutse isura, akaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe aho yari arimo kuganirizwa n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe.

Itsinda ry'impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe, ryari ryitabiriye inama ryahuriye ku bitaro, mu nzu ikorerwamo n'ibitaro, ku nkunga ya UNICEF, aho yari yagiranye ikiganiro n'abaturage ibafasha kumenya uko wakwita ndetse n'uko wakwitwara ku muntu ufite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe.

Inzobere z'abaganga zicaye ku ntebe zitukura, bambaye amakote ndetse n'amakaruvati, inyuma yabo hari abanyeshuri bambaye imipira y'umukara, bakaba bari barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso bavuye mu nama, yagarukaga ku ngingo z'uburyo hatangwa izi serivise zo kwita ku bafite ibibazo byo mu mutwe, babahereza uburenganzira bwabo.

Umugabo wambaye imyenda y'ikabutura ndetse n'ishati n'ibindi bitambaro mu ijosi hamwe n'ibiziritse ku maboko ye, akaba ari umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, akaba yicaye mu muhanda ariho ari kubyinira.

Madamu Jeannette Kagame ubwo yari ari gutanga ikiganiro ku munsi wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, aho yagejeje ikiganiro ku bari bitabiriye uwo munsi, abashishikariza kwita ku buzima bwo mu mutwe, ko na bwo ari ikintu cy'ingenzi cyane.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho mu rwego rwo gufasha abantu kumenya byinshi mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho rutanga inama nziza kandi zikwiye mu gufasha abantu kugira uko bumva ibintu ndetse no kumenya uko bita ku bafite iki kibazo.

Umugabo ukenyeye igitenge ufite imisatsi myinshi ishandaguritse, akaba afite ishashi mu ntoki ndetse n'ibindi bintu iruhande rwe, akaba yicaye muri rigori, akaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umudamu uhagaze imbere y'imbaga nyamwinshi mu cyumba cy'inama gitangirwamo amahugurwa atandukanye, imbere hari insakazamashusho nawe afashe indangururamajwi mu ntoki ze arimo gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Icyapa kiriho amagambo ya mental health care for all akaba hamwe n'umusore wambaye ishati y'umweru wambaye amarinete ufite imisatsi miremire akaba yararimo gutanga inama mu kiganiro cyabaye ku ikoranabuhanga ku munsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe.

Madamu Jeannette Kagame ashagawe n'impuguke zitandukanye ndetse n'abavuga rikijyana mu Rwanda, aho bari mu gikorwa cyo gushishikariza abantu kwita no gufata neza abafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe.

Abanyeshuri biga iby'ubuvuzi bambaye udupira tw'ubururu bahagaze bakikije abarimu babo bakaba n'inzobere mu by'ubuzima, bakaba bari bamaze gufata amahugurwa ku buryo bwo kunoza serivisi z'ubuvuzi kugira ngo bategurwe neza kuzavamo abaganga b'ahazaza.

Impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze Marina, ubwo yari agiye gutanga ikiganiro ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwa cumi, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, iki kiganiro kikaba cyaranyuze kuri televiziyo zitandukanye ku isi, kikaba cyaratewe inkunga na mayisolu.

Inyubako yo kwa muganga, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bwo mu mutwe ndetse no kuganiriza abafite ibibazo bitandukanye, bafite ibibazo byo mu mutwe, ikaba isize amarangi y'umweru, hamwe n'ay'ubururu, ikaba ifite fondasiyo y'amabuye.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, wabaye ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa Cumi, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, ukaba haratanzwe ikiganiro n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, yitwa Dogiteri Marie.

Umukobwa wicaye ku kirago akaba aziritse umunyururu ufashe ku kaguru ke ndetse ukaba uteye mu giti, akaba abana n'ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe aho bari barimo kumurinda ko yajya kure bikamuviramo guhura n'impanuka zitandukanye.

Umugore wambaye imyenda idozwe mu bitenge akaba asutswe, ahagaze imbere ya botiki irimo gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo nk'amavuta ndetse n'ibiryo, akaba yari avuye gufata ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe.

Icyapa k'ibitaro bya Sold Mind Counseling Clinic, gitanga serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, harimo nko kuganiriza abantu, kubasuzuma, kubavura, kikaba gikorera mu Rwanda, mu mugi wa Kigali.

Umugabo wicaye hasi ku butaka, yambaye ikabutura ngufi ndetse n'agasengeri, akaba afite imisatsi isutse mu buryo bwa derede, akaba afite ipine mu mugongo ry'imodoka, akaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'agapfukamunwa wicaye iruhande rw'umugore wambaye ikoti ry'ubururu, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, bakaba ari abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Ubwo bari barimo gutanga ikiganiro ku cyorezo cya Marburg cyari cyateye mu Rwanda.

Umubyeyi wambaye agakoti karimo amabara y'umukara ndetse n'icyatsi, wambaye agapira ko mo imbere, karimo uturongo tw'umukara n'utw'umweru, akaba afite isuka mu ntoki ndetse akaba yikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba.

Abana biga mu mashuri abanza bicaye barimo guseka bakaba barimo kuganirizwa bigishwa no gukina imikino itandukanye ibafasha kuruhura mu mutwe ndetse no kwagura ubwenge, bibafasha gutekereza neza no gukura neza bazi byinshi ku by'ubuzima ndetse n'imikino ibafasha kuruhuka.

Imodoka igezweho cyane y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc, ikaba ari imodokadoka irimo ivuriro ryimuka rizwi nka "mental health mobile clinic". Itanga serivisi zo kuvura uburwayi bwo mu mutwe arikovuriro ibikoresho byaryo bikaba biba mu modoka ku buryo rishobora kwimuka rikava mu mwanya umwe rikajya ahandi bitewe n'aho bashaka gutangira ubuvuzi.

R M H P, Rwanda Mental Herifu in Paragitisi, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bafite ibibazo byo mu mutwe bitandukanye, kikaba gifasha mu guteza imbere ubuvuzi bwabo, ndetse no guharanira uburenganzira bwabo.

Umukecuru usheshe akanguhe wambaye amaherena witeze igitambaro cy'umweru, akaba ahagaze imbere y'inzu isize amabara y'umweru ndetse yambaye n'urunigi mu ijosi, akaba abana n'ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe.

Umuganga wicaye ku ntebe imbere ye hicaye umurwayi, akaba arimo kumushyira muri sisiteme ubwo bari bari mu gikorwa cyo gupima abaturage indwara zitandura zirimo nka diyabete, mu kubafasha kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze.

Umugabo wambaye inkweto zijya kuba umweru zanduye cyane, hamwe n'ipantaro y'umukara yacikaguritse, hamwe n'umupira w'isengeri wacikaguritse, afashe amasashi ku rutugu ndetse n'ibindi bintu byinshi mu ntoki, akaba abana n'ubumuga bwo mu mutwe.

Urubuga rwo kuri murandasi, rukoresha ikoranabuhanga rya telefoni ndetse n'irya mudasobwa, aho runyuzaho ubutumwa butandukanye ndetse n'inyigisho, mu rwego rwo gufasha abantu, kumenya uburyo babana kandi bakita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Umukobwa wambaye ikoboyi ndetse n'isengeri y'umukara akaba yicaye mu ntebe zigezweho, akaba yicaye yazamuye akaguru kamwe, aho yarimo kumva indirimbo, bimwe mu bifasha umutwe kuruhuka nk'uko abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe babigiramo inama abantu kujya bicara bakumva uturirimbo tubafasha kuruhuka mu mutwe, bityo bikagabanyiriza sitirese bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Umusore n'inkumi bambaye udupira tw'umweru barimo gukoresha utudodo twabugenewe, twifashishwa mu kugirira isuku amenyo, mu kuyarinda kugira indwara zitandukanye, utu dukoresho tukaba dutangwa n'abaganga b'inzobere mu by'amenyo.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umweru, akaba afite imisatsi miremire, afashe uburoso bw'amenyo mu ntoki buriho umuti w'amenyo, arimo koza amenyo mu rwego rwo kwirinda indwara zifata mu kanwa bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Imashini zigezweho zifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara zitandukanye, aho izi mashini munsi yazo harimo intebe ifite amabara y'icyatsi ndetse n'ay'umweru, yicarwamo n'umurwayi mu gihe arimo gusuzumwa indwara zitandukanye zo mu kanwa.

Abaganga bambaye udupira tw'umweru, bambaye uturindantoki hamwe n'udupfukamunwa, barimo kuvura urubyiruko rwicaye ku ntebe, aho barimo kubavura indwara z'amenyo, muri gahunda yashyizweho na leta yo kwegereza abaturage ubuvuzi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ufite akadodo mu kanwa aka akakadodo kakaba kifashishwa mu gukura imyanda hagati y'amenyo kakaba gatangwa n'abaganga bavura amenyo ndetse n'izindi ndwara zo mu kanwa, kakaba gafasha kurindira amenyo gufatwa n'indwara ziterwa n'udukoko tw'amabagiteri.

Umuganga uhagaze hamwe n'umwana arimo kumwereka uburyo bagirira isuku amenyo, akaba yazanye n'itsinda rigari ryaje guhugura abana b'abanyeshuri ku buryo bakita ku menyo yabo mu kwirinda indwara zifata mu myanya y'akanwa ndetse n'amenyo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku intebe yifashe mu biganza akaba yicaye iruhande rw'imashini yabugenewe ndetse n'igitanda kijyanwaho n'abarwayi barimo gusuzumwa akaba avura amenyo , iki gitanda kikaba gisuzumirwaho amenyo n'izindi ndwara zifata mu kanwa.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye amashati y'umuhondo ndetse n'amajipo n'amakabutura, bakaba bazamuye ibiganza bafashe amashokora, aho barimo kwereka mwarimu ko bishimiye impano yabahaye y'amashokora.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bambaye impuzankano y'ubururu, aho bafashe uburoso bwoza amenyo, barimo kwigishwa n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu kanwa, aho bigishwa koza amenyo kugira ngo bigishwe kurinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, akaba ari gukoza akadodo kabugenewe mu menyo, aka akadodo kakaba gatangwa n'impuguke mu by'ubuzima bwo mu kanwa, aho bashishikariza abaturage kugakoresha mu rwego rwo gukura imyanda iba yafashe hagati y'amenyo, kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye zifata mu kanwa, cyane cyane zibasira amenyo.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, harimo imashini zifasha kureba mu kanwa mu gusuzuma ibibazo bitandukanye by'amenyo, hamwe n'ibifasha mu komora amenyo ndetse no kuyahoma, byifashishwa n'abize kuvura amenyo.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuzima , barimo bafite ibikoresho bitandukanye ndetse bambaye imyambaro yabugenewe mu gihe barimo gusuzuma, aho barimo gusuzuma umurwayi uryamye ku gatebe ko kwa muganga kabugenewe , bakaba bari kumusuzuma amaso , kugira ngo babashe kureba indwara arwaye kugira ngo bamuhe ubuvuzi bwiza bw'ibanze mu kumufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Umudamu ufite akagozi mu ntoki, arimo kukanyuza mu menyo, akaba yambaye isengero y'umweru, ndetse akaba asutse purante, yambaye n'amaherena, akaba akoresha aka gakoresho mu kugira ngo asukure amenyo ye, kandi arusheho kugira ubuzima bwiza, butyo yirinde indwara zitandukanye zifata mu kanwa.

Umusore wambaye agapira k'umweru urimo guseka yerekana amenyo yose, uhagaze inyuma y'icyapa cy'umuhondo, akaba arimo kwerekana ko afite ubuzima bwiza bw'amenyo kubera serivisi z'ubuvuzi afata zijyanye n'amenyo.

Umuganga w'inzobere mu kuvura amenyo wambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'agapfukamunwa, aharimo gusuzuma amenyo y'umukobwa wambaye amaherena, akaba ari gukoresha udukoresho twabigenewe twifashishwa mu gusuzuma indwara zifata amenyo.

Umuganga uzobereye mu kuvura indwara zitandukanye z'amenyo, wambaye uturindantoki, afite n'ibikoresho bitandukanye, arimo gusuzuma umusore ufite ibibazo by'amenyo, aho amufasha kubona ubuvuzi bwihuse, n'imiti ikenewe kugira ngo agire amenyo azira indwara.

Umukobwa wicaye mu ntebe nziza yegamiye arimo kureba mu kanwa he, aho yari amaze guhabwa serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, harimo nko koza amenyo bimufasha kwirinda indwara zitandukanye zifata amenyo.

Umusore wambaye agapira k'umweru ufite imisatsi akaba afite akadodo mu biganza bye aho arimo kukazunguza mu menyo kakaba gafasha gukura imyanda mu menyo kakaba gatangwa n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu menyo aho zivuga ko gafasha gukura imyanda bigatuma umuntu yirinda indwara zitandukanye zifata amenyo.

Abaganga b'inzobere mu ndwara z'amenyo ndetse n'izifata mu kanwa, bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa, bambaye mu maso ibikoresho bibafasha gusuzuma neza indwara zo mu kanwa, bakikije umudamu uri ku gitanda cyabugenewe , urimo gusuzumwa indwara zo mu kanwa kugira ngo ahabwe ubuvuzi bw'amenyo.

Muganga w'amenyo wambaye uturindantoki tw'icyatsi, ndetse n'itaburiya y'umweru y'amaboko magufi, aho arimo gusuzuma umwana uryamye ku gitanda cy'abarwayi, urwaye indwara z'amenyo, akaba arimo kumusuzuma amenyo kugira ngo arebe uburwayi afite, bityo amuhe imiti imufasha gukira.

Umukobwa wambaye agasengenge k'umweru ufite imisatsi akaba afashe uburoso bw'amenyo mu kiganza arimo koza amenyo yireba mu kirahurigi, ikaba ari inama igirwa n'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bwo mu kanwa bavuga ko gusukura amenyo umaze kurya na mbere yo kuryama ari byiza cyane bifasha kwirinda indwara zifata mu kanwa.

Intebe yo kwa muganga hamwe n'igitanda basuzumiraho amenyo hamwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye biri mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, bikaba bifasha abantu kuyirinda ndetse no kuvurwa indwara zo mu kanwa zitandukanye.

Umuganga w'amenyo wambaye rinete n'agapfukamunwa, hamwe n'imyenda y'akazi y'icyatsi, ari mu bitaro afite agatoroshi n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma indwara z'amenyo, aho arimo gusuzuma umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, wasamye arimo gukoresha ibikoresho amusuzuma mu menyo.

Umusaza wambaye agapira k’ amaboko magufi urimo kwireba mu kirori. Akaba arimo gufata imiti ya yahawe no kwa muganga, imufasha gushyira isukari ye ku murongo bikaba bimufasha kugira umuzima bwiza buzira umuze.

Imashini zabugenewe zikoresha ikoranabuhanga zikikije intebe nayo igezweho yo kwegamira, bikaba byifashishwa mu gusuzuma indwara zifata mu kanwa, aho ibikoresho bigaragara kwa muganga, hatangirwa serivisi zo gusuzuma ndetse no kuvura amenyo.

Umugabo ufashe akadodo mu kiganza akaba arimo kukanyuza mu menyo. Aka kadodo kakaba gatangwa n'inzobere mu by'ubuvuzi bw'amenyo ndetse n'indwara zifata mu kanwa, kakaba gafasha abagakoresha gukura imyanda itandukanye mu kanwa cyane cyane mu menyo kugira ngo hirindwe indwara zifata mu kanwa ndetse n'izifata amenyo.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru, bari bafite ibikoresho byifashishwa mu gupima indwara zitandura nka Diyabete, aho bari barimo gupima abaturage babafasha kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze.

Abana bato bambaye impuzankano biga mu mashuri abanza, aho bafite ibikombe by'amazi mu kiganza ndetse n'uburoso bw'amenyo, bakaba barimo kwigishwa koza amenyo imwe muri gahunda ifasha kurinda indwara zitandukanye z'amenyo.

Umusaza ufite imisatsi irimo imvi wambaye agapira k'amaboko magufi karimo uturongo tw'ubururu n'umweru, akaba yicaye imbere y'umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi ,urimo kumuha imiti amwereka uburyo azayinywa kugira ngo imuvure agire ubuzima bwiza.

Abakecuru bashesha akanguhe bahagaze bafite telefone mu kiganza bakaba babana mu rwego rwo gushyira hamwe imbaraga no kwibukiranya gufata imiti bahabwa na muganga kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza basaze bafite ubuzima buzira umuze.

Umumama wambaye isengeri ndetse n'ipantaro bya siporo akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri zimwe mu nama agirwa n'inzobere mu by'ubuzima zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho bifasha umubiri kubona imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo guhangana n'indwara zitandukanye.

Umusaza wicaye ku ntebe ufashwe ikiganza n'umukobwa we akaba arimo kumuganiriza ndetse anamufasha kumenya amabwiriza muganga yari yamuhaye no kumugira inama y'ibyo yarya kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye ikoti ndetse n'umukecuru we barimo kuramukanya, bishimye baseka baganira, bibafasha kongera iminsi, bibafasha kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zishobora guterwa no kugira irungu.

Umukecuru uhagaze ku ruvugiro afite indangururamajwi mu ntoki akaba yambaye agakoma k'icyuma ku kiganza, ndetse akaba yambaye n'urunigi hamwe n'imikenyero, akaba afite imvi ku mutwe aho iruhande rwe hari hari guturuka imodoka nziza cyane zari zizanye abayobozi ahari habereye ibiganiro bigamije guhugura abasheshe akanguhe, ndetse no kubabwira uburyo bwiza bakwiyitaho bakagira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye agapira k'umukara ndetse n'ishati irimo uturongo tw'umweru n'utw'umukara, arimo gusoma igitabo hamwe n'umusaza ufite imisatsi irimo n'imvi wambaye n'amarinete, imbere yabo hateretse igikombe cy'icyuma kitasi ifite ibara ry'umweru akaba uyu musore akora akazi ko kwita kuri uyu musaza kugira ngo amufashe kunywa imiti neza ndetse no kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umumama ukuze udafite umusatsi, wambaye amaherena, akaba ari mu gikoni afite igikombe cy'ikirahure kirimo amazi hamwe n'imiti mu kiganza, aho agiye kunywa imiti kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi hamwe n'ipantaro y'ubururu, akaba arimo gufasha umugabo wambaye igikoti kirekire cy'umukara n'ipantaro y'umutuku kugendera ku gakoresho kabugenewe gafasha abafite ibibazo by'imvune ndetse n'ibibazo by'imikaya kubinanura.

Umuganga ukora serivisi z'ubuzima zo kwita ku basheshe akanguhe wambaye ipantaro y’umukara ndetse n'agashati k'umweru, akaba afite imisatsi miremire, akaba afite ibikoresho yifashisha mu kuvura aho yari arimo kwita ku musaza ushesha akanguhe amufasha mu kunanura imikaya bimufasha kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye imyenda yo kwa muganga yambariyemo umupira w'umweru, arimo gusuka ji mu kirahuri ku meza ariho imbuto yicaweho n'umusaza ufite imvi wambaye umupira w'umweru ugeze mu za bukuru, akaba yitabwaho n'uyu muganga mu kugira ngo agire amasaziro meza.

Umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi y'icyatsi ndetse n'utubara tw'umweru, akaba ari kwita ku mukecuru ufite imisatsi y'imvi, aho amufasha gufata imiti ye ndetse no kumutegurira indyo yuzuye kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere yabo hari meza iriho imiti itandukanye, aho barimo gusoma amabwiriza y'iyi miti bibafasha kunywa iyi imiti neza nk'uko muganga yabibabwiye, bibafasha kwirinda indwara ndetse no kuvurwa indwara z'izabukuru, bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru ufite imisatsi irimo imvi wambaye urunigi wambaye akenyeye hamwe n'umusaza wakenyeye wambaye n'ingofero ufite intoki mu kiganza aho bari barimo kwerekanwa nk'intangarugero mu basaza bakoresha neza imiti bahabwa ndetse bakaba bafite ubuzima bwiza babikesha kumva inama z'abaganga.

Abamama bambaye ibitenge by'amoko atandukanye bateze ibitambaro, bicaye mu isoko ricururizwamo imboga n'imbuto, aho barimo kuganira ku bijyanye n'ubuzima busanzwe n'uburyo bwiza bakiyitaho bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umukecuru urimo kumwenyura ufite imisatsi irimo imvi, akaba yambaye agapira k'umweru ndetse n'umupira w'imbeho w'umukara, urimo amabara y'umutuku afashe udukoresho tw'icyatsi, twifashishwa mu gufasha abageze mu za bukuru kunanura imikaya.

Umusaza n'umukecuru bicaye, imbere yabo hari imeza iteretseho imiti itandukanye hamwe na mudasobwa barimo gukoresha, aho barimo kwibukiranya uko barimo gufata imiti kugira ngo, bayifate neza bibafashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga wambaye imyenda yo kwa muganga y'amaboko magufi ndetse yambariyemo n'agapira k'amaboko maremare y'umweru, akaba akora akazi ko kwita ku basheshe akanguhe, aho abafasha gufata imiti yabo neza ndetse no kubaganiriza kugira ngo abafashe kugira ubuzima bwiza.

Umuganga utanga serivisi zo kwita ku basheshe akanguhe wambaye imyenda y'akazi ya oranje, akaba yambaye mu ijosi akuma ko kwa muganga gakoreshwa mu gusuzuma uko umutima utera, akaba arimo gufasha umusaza guterura akuma kamufasha kunanura imikaya.

Umusaza n'umukecuru bafite imvi bicaye barimo kunywa imiti, aho umukecuru arimo gufasha umusaza kunywa imiti iteretse ku meza hamwe n'ikirahuri cy'amazi, amwereka ukuntu agomba kunywa imiti ye mu kumufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kumwitaho.

Umuganga wambaye ikoboyi y'ubururu ndetse nagashati k'umweru, arimo gufasha umusaza wambaye rinete ndetse n'ishati y'ubururu hamwe n'ikoboyi, arimo kumufasha kugera ku buriri neza, uyu mukobwa akaba akora akazi ko kwita ku buzima bw'abasheshe akanguhe.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi y'ubururu, igizwe n'ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko magufi, akaba akoze ku rutugu umusaza wicaye mu kagare, ufite imisatsi irimo imvi, barimo kuganira, uyu muganga akaba akora serivise zo kwita ku bakuze.

Umusaza n'umukecuru bafite imisatsi irimo imvi bicaye mu rugo, imbere yabo hari ameza ariho udukinisho dutandukanye tubafasha kumara irungu, bityo bagahorana akanyamuneza mu rwego rwo kubafasha gusaza neza bafite ubuzima buzira umuze.

Umusaza n'umukecuru bagaragiwe n'abuzukuru ndetse n'abana babo, baje kubasura kugira ngo babafashe kubaganiriza ndetse no kubamara irungu, hamwe no kubafasha imirimo itandukanye, no kubafasha kumenya uko banywa imiti yabo neza, mu rwego rwo kwita ku basheshe akanguhe kugira ngo basaze neza, bafite ubuzima buzira umuze.

Umuganga wambaye ishati y'ubururu ya'amaboko magufi aririmo kwereka umusaza ufite imisatsi wambaye ishati y'amaboko maremare yubururu. Akaba ari kumwerekera muri terefone uburyo yabonamo ubufasha akeneye nuburyo yareberamo uko afata imiti kugirango akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi, ufite igikoresho cyo kwa muganga mu ijosi, ufite imisatsi inyereje hamwe n'umukecuru wambaye amaherena, ufite imisatsi irimo imvi, afite agakoresho gaterurwa mu rwego rwo gufasha abantu kunanura imikaya.

Umuganga wambaye ikoboyi y'ubururu n'ishati y'amaboko magufi hamwe n'ikoti, uhetse igikapu cy'umukara ndetse afite n'ikindi cya shokora mu ntoki, akaba ari kumwe n'umukecuru usheshe akanguhe, wambaye ingofero n'ikoti ry'umukara, ufite furari, uri kugendera ku gakoresho kifashishwa mu basheshe akanguhe mu kubafasha kugenda ndetse no kunanura imikaya.

Umukecuru usheshe akanguhe, wambaye ibitenge ndetse uteze n'igitambaro mu mutwe, hari n'ikindi yikindikije mu ijosi, arimo guhabwa uburingiti n'abaganga bamufasha, mu rwego rwo kumufasha kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara, akaba afite ubwanwa burimo imvi ndetse n'umusatsi urimo imvi, wicaye imbere ya mudasobwa, iruhande rwe hakaba hari ikirahure cy'amazi ndetse n'umukobwa usutse direde, urimo kumuhereza imiti, mu rwego rwo kumwitaho no kumufasha kunywa imiti neza kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, buzira umuze.

Umwangavu wambaye agakoti k'ikoboyi ndetse n'agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, wambaye rinete, ari kumwe n'umusaza, ufite imisatsi irimo imvi, wambaye agapira k'icyatsi ndetse n'agakoti ka shokora, akaba uyu mukobwa yita kuri papa we w'umusaza mu rwego rwo kumufasha kugira izabukuru nziza, amufasha kubona intungamubiri zimufasha kwirinda indwara.

Abasheshe akanguhe bicaye mu cyumba, bicaye ku mukeka, aho barimo gukora uturimo dutandukanye, nko kuboha ibyibo, bibafasha kuganira ndetse no kunanura imibiri yabo, bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza bibarinda kurwaragurika.

Ibikoresho byo kwa muganga byabugenewe byifashishwa muri laboratoire zo kwa muganga mu gupima indwara y'ubushita bw'inkende izwi nka mg ki poxfarus aho byifashishwa hapimwa abaturage batandukanye mu kureba abafite iyi ndwara.

Minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda Dogiteri Sabe Nsanzimana, ubwo yarimo kuramukanya n'ababikira bahagarariye ibitaro bya kiriziya biri mu Rwanda ahatandukanye, aho bari bamaze kugirana inama z'uburyo banozwa serivisi zitangirwa muri ibyo bitaro.

Gahunda ya leta yashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima arabisi ya pawaringi heresi keya ini Rwanda aho bifasha kuzamura imibereho myiza y'abakora umwuga w'ubuvuzi bityo bikabafasha gukora akazi kabo neza ndetse no kubona ibyangombwa byose bakenera kugira ngo batange serivisi z'ubuzima mu buryo bwose bushoboka.

Abanyeshuri biga iby'ubuganga aho bari bari mu cyumba cy'inama barimo guhugurwa n'impuguke mu by'ubuzima zari zaturutse mu bihugu bitandukanye, mo imbere hahagaze impuguke mu by'ubuzima irimo kubasobanurira uko basuzuma ndetse n'uko bavura indwara zitandukanye kugira ngo babafashe gukarishya ubwenge bwabo no kubategura neza nk'abaganga b'ejo hazaza.

Abari bambaye amapantaro y'amakoboyi ndetse hamwe n'ay'imikara, bambaye n'udupira tw'umweru, bafashe ibirango byo kwa muganga byanditseho ubuzima bwiza, bakaba barimo kwimakaza kandi banakangurira abantu kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zitandura.

Ikirango cya RBC, Rwanda Biomedical Center, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gikorera muri minisiteri y'ubuzima, aho gifasha serivise ndetse na gahunda zitandukanye, zo guteza imbere ubuzima.

Madamu Jeannette Kagame, yari yambaye rinete ahagaze imbere y'indangururamajwi, arimo gutanga ikiganiro imbere y'abantu bari baje gukurikirana ikiganiro ku burwayi bwahariwe abafite ibibazo byo mu mutwe.

Umugabo wambaye ikoti rya kositime n'ishati y'umweru, wicaye hagati y'abadamu babiri, bari imbere y'imbaga nyamwinshi mu nzu y'inama, bakaba barimo kubagezaho ikiganiro kijyanye no kubashishikariza kwita ku buzima bwabo.

Urubyiruko rwambaye udupira twa oranje, rukaba rufite ibikapu mu ntoki by'umweru, hari n'abandi bakobwa bato bicaye mu ntebe z'umweru, aho bari barimo kuganirizwa ku buzima bw'imyororokere, mu kubafasha kumenya byinshi kuri ubu buzima.

Icyapa kiri ku rubuga rwo kuri murandasi rwa minisiteri y'ubuzima kikaba gishushanyijeho udukoresho two kwa muganga harimo nk'inshinge, amaserenge ndetse n'udupima umutima w'abarwayi uko utera kikaba ari icyapa cyanditseho non communicable diseases aho minisiteri y'ubuzima ikoresha uru rubuga ishishikariza abantu kwirinda indwara zitandura.

Ukuboko kuriho ibiheri by'ibishishi, kurimo kwerekwa umuganga, aho uyu mudamu yaje kwivuza kugira ngo ahabwe serivise z'ubuvuzi bw'uruhu, butangirwa kwa muganga.

Abaganga bambaye imyenda miremire bikwije hose bambaye udupfukamunwa ndetse n'ibibakingira mu maso na ga mu ntoki ubwo bari barimo kuvura abarwayi ba covidi nayini tini kugira ngo birinde batandurira mu kuvura.

Abaganga bambaye bikwije imyenda y'ubururu yambarwa mu gihe barimo kubaga bakaba bambaye n'udupfukamunwa ubwo bari barimo kuvura umurwayi wari uryamye ku gitanda bari barimo kubaga wari ugiye kubyara, abo baganga bakaba bari inzobere mu bijyanye no kubaga kwa muganga.

Urubuga rwo kuri murandasi rukoresha ikoranabuhanga rya telefoni, aho rwifashishwa mu kwigisha abaturage ndetse n'abana muri rusange, gahundada zitandukanye zo kurwanya ndetse no kwirinda hamwe no kwivuza virusi itera SIDA.

Umukecuru usheshe akanguhe witeze igitambaro gitukura akaba apfutse ijisho, akaba ari kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye, aho yaje kwivuza kugira ngo akurikiranwe n'abaganga b'inzobere, kugira ngo akire indwara agire ubuzima bwiza.

Urubuga rutangirwaho serivisi binyuze ku ikoranabuhanga z'ubuzima aho batanga amahugurwa ku babyeyi mu kubashishikariza ko bakwita ku bana babo barushaho kubagirira isuku ndetse no kubaha inkingo n'indyo yuzuye bi fasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, muri gahunda zo gushishikariza abaturarwanda kugira ubuzima bwiza, bakaba barashyizeho porogaramu yitwa helifu pipo Rwanda, ikangurira abaturarwanda bose kugira uruhare mu kugira serivisi nziza z'ubuvuzi.

Inzobere mu by'ubuzima, akaba ari abaganga bambaye amataburiya y'umweru iruhande rwabo hari abambaye amajire y'icyatsi, bakaba barimo gutanga ubutabazi bw'ibanze; aho bari gufasha umugabo wagize ikibazo, uryamye ku gakoresho bakoresha batwara umuntu.

Inama yahuriye muri Kigali convention center, ikaba yari yahuje inzobere zitandukanye mu by'ubuzima ndetse n'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima mu kubahugura, ni uburyo bwiza bwo gusuzuma indwara ndetse no kuvura indwara himakazwa gutanga serivisi nziza no gukoresha ibikoresho bigezweho.

Umudamu wambaye ipataro y'umukara n'agasengeri k'umukara hamwe n'ikoti ry'umweru, ufite igitabo cyo kwandikamo mu kiganza, akaba afite indangururamajwi, aho yarimo gutanga ikiganiro mu kurwanya inda zitateganyijwe mu bangavu, ndetse no gushishikariza urubyiruko kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Abaganga bambaye impuzangano yabo y'akazi, irimo amapantaro y'umweru ndetse n'amashati y'amaboko magufi y'umweru, aho barimo gupima umurwayi bamufata ibipimo bitandukanye, kugira ngo babone uko ubuzima bwe buhagaze, bityo baboneke uko bamuha imiti, imufasha kugira ubuzima bwiza.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro byo kwa muganga, birimo imashini zitandukanye, zifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara nyinshi, harimo nka kanseri, amenyo, n'ibindi byinshi, hakaba hatangirwa serivisi z'ubuzima zitandukanye nko gusuzuma, ndetse no kuvura indwara nyinshi, bifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yubakishijwe udutafari duhiye ndetse itewe irangi rya oranje, itangirwamo serivise zitandukanye z'ubuvuzi, aho basuzuma, bakavura ndetse bagatanga n'imiti ku barwayi baza babagana.

Inzu ikorerwamo siporo zitandukanye, aho igaragarwamo n'ibikoresho bitandukanye byo guterura, bikoreshwa n'abari muri siporo kugira ngo bafashe umubiri wabo kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zitandukanye, imwe mu nama itangwa n'impuguke mu by'ubuzima.

Inyubako yubakishijwe udutafari duhiye, isakajwe n'amabati y'ubururu, iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'ibitaro bya Gihundwe, aho hagaragara icyapa kiriho ijisho, kikaba kigaragaza aho basuzumira kandi bakavurira amaso muri ibi bitaro.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivise z'ubuzima zitandukanye, harimo nko kuvura, gusuzuma ndetse no gutanga imiti, aho hagaragara abantu b'ingeri zitandukanye, abadamu, abapapa ndetse n'urubyiruko rwaje kwivuza kugira ngo bahabwe imiti kugira ngo bibafashe kugira ubuzima bwiza.

Umuganga urimo gusuzuma imashini y'ikoranabuhanga igezweho cyane yifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye z'abarwayi zifata mu imbere mu mubiri, iyo mashini ikaba ari nziza cyane aba baganga bakaba bavuga ko ibafasha mu gusuzuma mu buryo bwihuse kandi bwizewe hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye ikabutura ngufi ya shokora hamwe n'umupira muremure w'umukara, aho yari yambaye n'agapfukamunwa ari ku byuma biyungurura amaraso, ibi byuma bikaba bifasha abafite ibibazo by'impyiko kubona serivisi z'ubuvuzi zibafasha kuyungurura amaraso kugirango ngo bakomeze kugira se ubuzima bwiza.

Icyumba cyabugenewe gikoreshwa ikoranabuhanga rigezweho gifite aho umurwayi aryama mu gihe ari kunyuzwa muri iki cyumal kikaba gifasha gusuzuma indwara zitandukanye, abaganga bakaba bavuga ko iki cyuma kibafasha kubona uburwayi bw'abarwayi bufata mu mubiri mo imbere bityo bagahabwa ubuvuzi bwihuse kandi bwiza.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro bya CHUB biherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, ibi bitaro bikaba bigizwe n'inyubako zubakishijwe udutafari duhiye bikaba bifite parikingi ziparikwamo n'imodoka z'abahakora ndetse n'abarwayi hamwe n'imbangukiragutabara, ibi bitaro bikaba bifite ubusitani bwiza bugaragarwamo na pasiparama, indabo ndetse n'ibiti by'imikindo.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi y’itaburiya y'umweru y'amaboko magufi, wambaye ingofero yo kwa muganga yabugenewe hamwe n'agapfukamunwa, urimo gutera urushinge umwana muto uteruwe n'umubyeyi we, akaba arimo kumutera urukingo rw'imbasa.

Inyubako irimo amakaro hasi, ikaba isizwe amarangi y'umweru, ikaba ifite imiryango, ikaba ari inzu nini cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo gusuzuma, gupima ndetse no gutanga imiti, bifasha ababagana kubona ubuvuzi bwihuse kandi bwiza, bakagira ubuzima bwiza.

Inyubako yubatse igeretse, ikaba ari inyubako y'igorofa imbere yayo hari parikingi iparitsemo imodoka z'ubwoko butandukanye, ikaba ikorerwamo n'ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo bizwi nko kwa Nyirinkwaya.

Inyubako ibikwamo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi, harimo nk'imashini zisuzuma imiti, ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa kwa muganga, mu gutanga serivise z'ubuvuzi.

Inyubako yubakikijwe udutafari duhiye isizweho amarangi y’ umukara ikaba isakajwe n’ amabati. Aho ikikijwe n’ ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye ndetse na pasuparama. Iyi nyubako ikaba ikorerwamo n’ bitaro bitanga serivise zo kuvura ndetse no gutanga imiti.

Ibyuma byabugenewe bikoreshwa mu gusuzuma indwara zitandukanye kwa muganga biri mu nyubako ikorerwamo n'ibitaro, aho biri mu cyumba cyanditseho nurse station gitangirwamo serivisi z'ibanze z'ubuvuzi.

Ibyuma byabugenewe biri mu cyumba cyo kwa muganga, byifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye z'amaso, ibi bikoresho bikaba bifasha cyane abaganga mu gusuzuma ndetse no kuvura nyuma yo kumenya, indwara umurwayi afite bakoresheje ibi byuma.

Inyubako itangirwamo serivise zo kwa muganga harimo nko gusuzuma, ndetse kuvura, ndetse no gutanga imiti. Hakaba hari icyapa kigaragaza ibikorerwa mu byumba bitandukanye. Ahaba hari icyapa kigaragaza ubwiherero, n'ikigaragaza ivuriro, ndetse n'ikigaragaza serivise z'ubwishingizi aho zitangirwa kwa muganga.

Muganga wambaye imyenda igizwe n'ishati y'amaboko magufi, ufite imisatsi wayifugiye inyuma, akaba afite igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso, akaba arimo gupima umusaza ufite imisatsi irimo imvi, wambaye rinete.

Ibitanda byabugenewe bifashwe n'imashini zabugenewe zo kwa muganga zifasha gufasha umurwayi kubona serivisi zitandukanye hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse n'ibitanda bigezweho, bikaba biri mu cyumba cyo kwa muganga ahavurirwa abarwayi.

Icyumba cyagutse gikorerwamo inama giherereye mu bitaro, kikaba gifite imbere ameza asize ibara ry'umweru ndetse n'intebe ziriho indangururamajwi bifasha abari mu kiganiro biga ku ngingo zitandukanye z'ubuzima kumvikana neza.

Icyumba kirimo imashini zabugenewe, zifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura amaso ndetse n'insakazamashusho, hamwe n'intebe n'ameza na mudasobwa byifashishwa n'umuganga w'amaso, ubikoresha arimo gusuzuma abarwayi barwaye amaso ndetse no kubafasha kubona imiti, ibafasha kugira ubuzima bwiza no gukira ibibazo by'amaso bitandukanye.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye zibifata mu mutwe ya Caraes Freres de la Chalite, giherereye mu Karere ka Huye hakaba hatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye zo mu mutwe.

Icyumba cyo kwa muganga kivurirwamo indembe, kirimo uburiri bushasheho amashuka y'umweru ndetse n'imisego, hakaba hateretseho imiti y'ubwoko butandukanye, bikaba biri iruhande rw'imashini igezweho, yifashishwa mu kuvura abarwayi barembye.

Inyubako isizwe amarangi y'umweru, yubakishijwe udutafari duhiye, ikaba isakajwe amabati y'ubururu, inyubako ikaba ikorerwamo n'ikigo nderabuzima cya Shagasha, aho imbere yacyo hicaye abarwayi, barimo aba mama bari kumwe n'abana babo, baje kubasuzumisha, ndetse no kubateza inkingo.

Icyumba cy'ababyeyi kizwi nka materineti cyubatswe ku nkunga ya enabere, aho imbere yacyo hari abaganga bazobereye mu kubyaza abamama bakaba batanga serivisi nk'izo ngizo aho cyari kirimo gutahwa kumugaragaro hamwe na musenyeri.

Inyubako iherereye mu bitaro ikorerwamo na serivisi ya Isange One Stop Center, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bakabaha serivisi zitandukanye zihutirwa z'ubuvuzi bibafasha kugarura ubuzima bwiza.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro biri mu mujyi wa Kigali ikaba ifite ibyumba bitandukanye byifashishwa mu gucumbikira abarwayi bavurwa bari mu bitaro, bityo bikabafasha kubona serivisi zihuse kandi mu buryo bwiza bubafasha gukira bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ikaba ifasha abafite ibibazo by'imikaya ndetse n'amagufa kubigorora bikabafasha kugira ubuzima bwiza, bigafasha kandi abakora imyitozo ngororamubiri itandukanye, kugira ubuzima bwiza buzira umuze butagira indwara.

Icyapa cy'ibitaro bya CHUB biherereye mu karere ka Huye giteye mu busitani buri mu bitaro rwagati. Ibi bitaro bikaba bigaragarwaho n'ibinyabiziga bitandukanye by'abaganga bahakora ndetse n'abarwayi baje kwivuza bikaba bitanga serivisi zo kuvura gusuzuma ndetse no gutanga imiti ku barwayi babigana.

Umuganga wambaye itaburiya y'amaboko magufi ndetse n'igiko afite mu ijosi igikoresho cy'abaganga, bakoresha bumva uko umutima utera, akaba arimo gufata amakuru y'umurwayi waje kwivuza.

Ibyuma byabugenewe biri mu cyumba cyo kwa muganga bikoresha ikoranabuhanga, bikaba byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara z'amenyo, munsi yabyo hakaba hari agatanda kabugenewe umurwayi arwariraho, aryamaho mu gihe arimo gusuzumwa.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi zitandukanye zo kwa muganga, aho hari imashini zabugenewe mu gusuzuma indwara zitandukanye. ndetse n'igitanda kiriho ibisabwa byose, kiryamwaho n'umurwayi mu gihe arimo gusuzumwa indwara zo mu menyo.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo ndetse na pasiparumu. Bikaba bitewemo n'ibiti by'umukindo hakaba hagaragara urujya n'uruza rw'abarwayi baba baje gufata serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, harimo nko: gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti.

Inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ahagaragarwa n'urujya n'uruza rw'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuganga, inyubako ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo pasiparama ndetse n'indabo z'amoko atandukanye, uru rubyiruko rukaba ruvuga ko iyi Kaminuza ibereye kwigishirizwamo iby'ubuganga.

Inyubako igezweho ikorerwamo n'ibitaro aho hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi nko gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti aho harimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse bahagaze iruhande rw'ibitanda biryamwaho n'abarwayi bavurwa baba mu bitaro aho ku muryango hahagaze abarwayi bategereje kubonana na muganga.

Icyapa kiri imbere y'inyubako itangirwamo serivisi zo gusuzuma indwara zitandukanye iki kigo kikaba cyitwa frontier diagonistic center kikaba gisuzuma indwara z'ubwoko bwose harimo nka kanseri, igituntu, diyabete ndetse n'izindi nyinshi.

Ibitaro byitiriwe Umwami Fayisali, biherereye mu Mujyi wa Kigali mu Karere ka Gasabo, bikaba bigaragarwaho n'urujya n'uruza rw'abarwayi baba baje kwivuza, aho imbere hari umusekirite wambaye imyenda yabugenewe, hakaba n'ibyapa biyobora abarwayi baza kwivuriza kuri ibi bitaro.

Abarwayi baryamye ku bitanda byo kwa muganga bafite ibyuma bibafasha guhumeka, iyi ikaba ari serivisi y'ubuvuzi itangwa kwa muganga mu rwego rwo gufasha abarwayi kubona ubutabazi bw'ibanze kugira ngo bahabwe imiti bameze neza bityo bibafashe gukira mu buryo bwiza.

Inyubako y'igorofa yubakishijwe udutafari duhiye ndetse ikaba ifite n'ibirahuri bigezweho, iyi nyubako ikaba yubatse igeretse, ikaba ikorerwamo n'ibitaro, bakaba batanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi nko gusuzuma ndetse no gutanga imiti, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza barimo pasiparama ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Inyubako ikorerwamo n'ikigo nderabuzima cya Rwerere, iki kigo nderabuzima kikaba gitanga serivise z'ubuzima zitandukanye z'ubuvuzi, harimo nko gusuzuma, gutanga imiti ndetse no kuvura, iki kigo kikaba ari ingirakamaro mu gufasha abacyegereye kubona serivise z'ubuzima, bibafasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga wicaye munsi y'ibikoresho bya kizimyamwoto byifashishwa mu kuzimya umuriro akaba yicaye ku ntebe y'umukara imbere ye hari ameza y'umweru yambaye ijire ya RBC Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Ubuzima afite igikoresho cyo kwa muganga arimo gusuzuma umugabo wicaye ku ntebe y'umukara umuvuduko w'amaraso mu rwego rwo gutanga ubuvuzi bwihuse ndetse no gusuzuma.

Inyubako irimo ibitanda byo kwa muganga, iruhande rwabyo harimo ibyuma ndetse n'intebe z'icyuma ziterekwaho imiti itandukanye, ibi ibyumba bikaba bitandukanyijwe n'amarido, aha ngaha akaba ari ahagenewe kuryamwa cyangwa se kuvurirwa abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, zita ku basheshe akanguhe, aho zibafasha kubaha imiti bagomba kunywa ibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kubaganiriza hamwe no kubigisha ibishobora kubafasha gusaza neza birinda indwara.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ikorerwamo n'ikigo cya bayotena ikaba gitanga serivisi zo gucuruza ibikoresho byo kwa muganga ndetse n'imiti itandukanye kugira ngo gifashe abarwayi kubona ibyo bakeneye kugira ngo bitabweho babone ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye zo mu mubiri, aho iyi mashini munsi yayo hari agatanda kariho amashuka, karyamwaho n'umurwayi igihe agiye gusuzumwa.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, harimo amataburiya y'umweru ndetse n'ibikoresho bibakingira igihe bari mu kazi, bateraniye mu cyumba gitangirwamo serivise zo kubaga imbere y'insakazamashusho, barimo kureba umuntu bagiye gukorera operasiyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini z'ubwoko butandukanye, hakaba harimo n'igitanda kiryamwaho n'umurwayi igihe harimo gusuzumwa, iki cyumba kikaba gisuzumirwamo indwara zo mu mutwe, aho harimo ibyuma bashyira ku mutwe mu kubafasha kureba uko ubuzima bwo mu mutwe bumeze, bikabafasha kumenya uko bavura umurwayi neza hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, yubaka umubiri ndetse ikawufasha kwirinda indwara zitandukanye aho igaragarwamo n'ibyuma birukiraho, ibyo bateruriraho ibiro biremeye, mu kugira ngo bafashe umubiri wabo kugira imbaraga ndetse no gufasha kwirinda indwara zitandukanye, bagirwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro bya CHUB, hakaba hagaragarwa icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa kuri ibi bitaro, hakaba hagaragara urujya n'uruza rw'abarwayi baje kwivuza, harimo abagore, abagabo ndetse n'abana.

Inzu ifatirwamo imiti ya Peniel Pharmacy akaba ari farumasi ibamo imiti itandukanye ikenerwa n'abarwayi batandukanye aho umurwayi muganga amwandikira imiti akajya kuyireba muriy’inzu ibamo imiti ngo hakabamo umuganga umufasha kuyibona kandi akamwereka n'uburyo ikoreshwa.

Iyi inyubako isize amarangi y'umweru irimo ibirahuri bigezweho ndetse n'ibikoresho bifasha guhumeka bikaba bikorerwamo n'ibitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi nko gusuzuma gutanga imiti ndetse no kuvura hakaba hakorerwa n'inzobere mu by'ubuzima bakaba bakira abarwayi batandukanye kugira ngo babahe serivisi z'ubuvuzi.

Umuganga wambaye itaburiya y'amaboko maremare y'umweru, ari imbere y'imashini yabugenewe, akaba akora muri laboratori y'ibitaro biherereye mu karere ka Huye bya CHUB, akaba afasha gupima abarwaye, indwara zitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri nka kimwe mu bisubizo bitangwa n'impuguke mu by'ubuzima mu kwirinda indwara zitandukanye zitandura, harimo diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'umubyibuko ukabije, abantu bakaba bakangurirwa kuyoboka siporo nka bumwe mu buryo bwo kwirinda izi ndwara.

Inyubako y'igorofa yubatse igeretse ikaba ikorerwamo n'ibitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko kuvura, gusuzuma ndetse no gutanga imiti, iyi nyubako ikaba yubakishijwe utubuye duhiye, imbere yayo hakaba hari parikingi iparikwamo imodoka z'abakozi bahakora ndetse n'abaganga.

Abaganga b'impuguke mu by'ubuzima ndetse n'inzobere mu by'ubuzima bakora ku bitaro bya rwamagana ubwo bari bahagaze imbere y'inyubako ikorerwamo n'ibi bitaro aho bari bavuye mu nama ibafasha kwimakaza kwihutisha serivisi z'ubuzima mu rwego rwo gufasha abarwayi benshi kandi mu gihe gito kandi bakabafasha neza.

Zimwe mu nyubako z'ubuvuzi hakomeje kugenda hagaragara iyubakwa ry'ahantu heza aho abakozi bo mu bitaro bashobora kuba bahura bakaganira, bakiga ku bibazo bahuye nabyo mu bitaro ndetse bagafatira hamwe n'umwanzuro w'uko babikemura.

Mikorosikopi iteretse ku meza, ariho ibikoresho bitandukanye byo muri laboratwari, bikozwe mu byuma, bikaba byifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye kwa muganga, harimo nk'inzoka zo mu nda, ndetse n'izindi nzoka zigaragara mu maraso.

Imashini zitandukanye zifashishwa mu bitaro mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no kuzisuzuma zifata mu kanwa ndetse n'amenyo, aho hari imashini, iruhande rwazo hari intebe ndende yo kwigamiraho ndetse banaryamisha mu gihe bibaye ngombwa, mu gihe bari gusuzuma umurwayi.

Inyubako yubakishijwe udutafari duhiye ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane burimo indabo ndetse na pasipama buparitswemo n'ikinyabiziga cya moto inyubako ikaba ikorerwamo n'ikigo cya Rwanda cancer center kikaba gisuzuma kandi kikavura indwara ya kanseri.

Inyubako ikoreramo bayoteki ikaba ari inyubako y'igorofa yubatse igeretse ikaba isizwe amarangi y'umweru ikaba itangirwamo serivisi zo gucuruza ndetse no no gufasha abarwayi kubona ibikoresho bitandukanye bakoresha mu buvuzi ndetse nk'imiti ndetse n'utugare hamwe n'amapomade yifashishwa mu kuvura.

Inyubako yo kwa muganga igaragarwamo n'ibyicaro byiza by'intebe z'ubururu bikikije ameza, aho baganirira ku ngingo zitandukanye bityo bagafasha kunoza serivisi z'ubuzima batanga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bigezweho hamwe na matera zifite amashuka y'ubururu, ziri iruhande rw'imashini zifasha abarwayi bavurwa baba mu bitaro mu gufasha abaganga gutanga serivisi zubuvuzi mu buryo bugezweho.

Abaganga bambaye amakanzu y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa hamwe n'ingofero, zibafasha kwirinda kwanduzwa n'abarwayi bavura, bakikije umurwayi uryamye ku gatanda batangiraho serivisi zo kubaga, barimo kumuvura kugira agire ubuzima bwiza.

Inyubako ibikwamo ibikoresho, bikoreshwa kwa muganga mu kuvura ndetse no gusuzuma indwara. Bikaba bipanze mutu etageri tw'ibyuma, hakaba harimo inshinge, imiti, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga harimo imashini ndetse n'izitanga umwuka, biri mu cyumba cyo kwa muganga gitangirwamo ubuvuzi bw'ibanze, harimo gufasha abarwayi barembye cyane kubona uko bahumeka.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, ikaba isize amarangi y'umweru ndetse n'ay'igitaka, ikaba igaragarwamo n'urujya n'uruza rw'abantu, baba baje kwivuza indwara zitandukanye, aho ibi bitaro bikikijwe n'ubusitani bwiza, burimo indabo ndetse na pasiparume.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivise zo kubaga, ikaba irimo ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga bifasha abaganga gutanga izi serivise zo kubaga hakoreshejwe ikoranabuhanga, bikabafasha kunoza izi gahunda no gutanga ubuvuzi bwiza bujyanye n'igihe.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kizwi cyane nka Gym, kikaba kigaragarwamo n'ibyuma bitandukanye bikoreshwa imyitozo ngororamubiri itandukanye, aho harimo imashini zifasha abantu kwiruka n'ibyuma biremereye baterura, kugira ngo bakangure imikaya n'utunyangingo, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro bitangirwamo serivisi z'ubuzima zitandukanye harimo nko kuvura gusuzuma ndetse no gutanga imiti iyi nyubako ikaba yubakishijwe amatafari ahiye isakaje amabati atukura hakaba hagaragarwa n'ubusitani bwiza burimo pasparma ndetse n'indabo nziza.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe kwa muganga, igizwe n'ipantaro y'icyatsi ndetse n'ishati y'amaboko magufi y'icyatsi, arimo kugenda hagati iruhande rwe hakikijwe n'ibitanda byabugenewe byo kwa muganga, bifashweho n'imashini zabugenewe zifasha abarwayi guhumeka ndetse no kureba uko bahagaze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini, zifasha mu kwica udukoko twafashe ku myenda y'abaganga ndetse n'ibindi bikoresho, ikaba ihagazweho iruhande n'umuganga wambaye imyenda y'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru, arimo kwica udukoko ku bikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Inyubako iriho icyapa kiriho abana cyanditseho Rwanda children, hakaba hatangirwa serivisi zo kwita ku bana zitandukanye, nko kubapima, kubasuzuma, kubaha imiti ndetse no kubaha inkingo zitandukanye.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, urimo gusunika uwambaye ishati y'umweru wicaye mu kagare kagendwamo n'abavunitse cyangwa se bafite ubumuga bwo kutagenda, arimo kumufasha kumujyana kwa muganga aho aharerwa serivisi z'ubuzima.

Icyuma gikoresha amashanyarazi, gikoresha iterambere rya tekinoloji, kikaba cyifashishwa kwa muganga mu gusuzuma indwara zitandukanye, kikaba gikoreshwa n'abaganga b'inzobere, gusuzuma indwara zifata mu mubiri mo imbere, mu kugira ngo bite ku barwayi babaha ubuvuzi buboneye.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, akaba ari ibitaro byitwa "Nyarugenge District Hospital", ibi bitaro bikaba bitanga serivisi zitandukanye z'ubuzima, harimo gusuzuma, kuvura, ndetse no gutanga imiti ku barwayi mu rwego rwo gufasha abanyarwanda kubona serivisi nziza kandi zihuse z'ubuzima, kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'imiti z'ubuvuzi, iherereye mu Mujyi wa Kigali, mu Karere ka Gasabo, hakaba hatangirwa serivisi z'ubuzima, zifasha abarwayi kubona imiti bashaka, ibafasha kwivuza bakagira ubuzima bwiza.

Inzobere mu by'ubuzima zihagaze imbere y'inyubako itangirwamo serivisi zo gusuzuma, aho basuzumira muri raboratwari abarwayi batandukanye, mu kubafasha kumenya indwara barwaye, bityo bagahabwa serivisi z'ubuvuzi kugira ngo bakire, babone ubuzima bwiza.

Laboratori yo kwa muganga irimo amarobine afasha koza ibikoresho bikoreshwa muri laboratori mu gusuzuma abarwayi ndetse n’utuyetajeri twiza turi mu cyumba cyo kwa muganga gisuzumirwamo abarwayi kugira ngo hamenwe indwara bafite bahabwe ubuvuzi bwiza kandi bwihuse bubafasha kumera neza.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo ubuvuzi, ikaba irimo ibitanda biryamwaho n'abarwayi bafata ubuvuzi baba mu bitaro, ibi bitanda bikaba ari ibitanda byiza byorohereza abarwayi, kuryama mu buryo bubanogeye, bubafasha kwakira neza ubuvuzi bahabwa.

Ibikoresho bitandukanye biri mu gasanduku kabugenewe bibikwamo, byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, harimo nk'ibipfuko, imiti yica udukoko, hamwe n'ibindi bigabanya ububabare byifashishwa mu kuvura abagize ibikomere barimo gukina.

Agakoresho kabugenewe gafite amapine ane ndetse n'umwanya wo gufatwamo ikiganza, kakaba gafasha mu kuvura, mu gufasha abagize ibibazo by'imvune ndetse n'iby'imikaya, kongera kubamenyereza kugenda mu rwego rwo kubaha ubuvuzi bwiza aho gakoreshwa n'abavunitse, bahawe amabwiriza n'inzobere mu by'ubuzima zibakurirana.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ikaba igaragarwamo n'ibyuma bitandukanye hamwe n'intebe zabugenewe bateruriraho ibyuma biremereye ndetse hakaba harimo abantu barimo kwiruka bakoresheje ibyuma bigezweho bibafasha gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye kugira ngo bifashe imibiri yabo guhangana n'indwara zitandukanye bityo bagire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umukobwa wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y' yumukara ya sports ndetse n'agasengeri k'umukara, akaba yambaye afite telefone ku kuboko, akaba yicaye hasi ahinnye ukuguru kumwe. Arambuye ukundi kuguru agufasheho n'amaboko yombi akaba ari gukora imirimo, imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abaganga bavura bakora imyitozo ngororamubiri hamwe n'imirimo ya siporo, harimo nko gukina umupira w'amaguru, gukina imipira y'intoki nka vore boro ndetse n'imikino ya basikete, aho ibi bikoresho birimo udusizo, amaga, ndetse n'amabande n'imiti ibagabanyiriza ububabare.

Icyapa kiriho umudamu urimo gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwiwe hashanyijweho ibiribwa bitandukanye nk'imbuto, imineke, amapome ndetse n'amaronji, mu kugira ngo bashishikarize abakora siporo gufata indyo yuzuye, ibafasha kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye isengeri irimo amabara y'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, akaba afite furari y'umweru mu ijosi, akaba arimo kunywa amazi mu icupa ribikwamo amazi, akaba yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri, bimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, bifasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kurwanya indwara zitandukanye.

Umukobwa wambaye agakabutura kagufi karimo uturongo tw'umweru hamwe n'agasengeri ka orange, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri aho yicaye yarambuye amaguru yashyize amaboko imbere, imwe mu nama itangwa n'impuguke mu by'ubuzima igira abantu gukora siporo nka kimwe mu bikorwa bifasha umubiri kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyapa kigaragaza uburwayi butandukanye bushobora kuvurwa n'imyitozo ngororamubiri, harimo nko kubabara umutwe, kugira isereri, kubura ibitekerezo ndetse n'ibindi bitandukanye nk'isereri, aho bashikariza abantu gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho, mu kugira ngo bifashe umubiri wabo kwirinda izi ndwara.

Akagare gafite amapine y'umukara, ndetse n'ibyuma bitandukanye, gafite ahantu ho gufatwa n'amaboko yombi, kakaba gafite n'aho gutwara ibintu bitandukanye, kakaba kifashishwa mu gutwara abagize ibibazo by'imvune, ndetse n'izindi ngingo zavunitse bigatuma batagenda neza, aka kagare kakaba gatangwa kwa muganga mu rwego rwo gufasha abo bantu kugenda.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi, iruhande rwe hari undi umufasha, akaba amufashije umwana urimo guterwa urukingo rw'imbasa, bimufasha gukura neza afite ubuzima buzira umuze, butagira indwara.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengenge k'umweru ufite imisatsi wazamuye amaboko, ari mu mirimo ngororamubiri ya siporo itangwamo inama n'abashinzwe ubuzima b'impuguke kugira ngo bafashe kugira abantu ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye ku ntebe yo kwa muganga, wambaye umupira w'amaboko maremare w'umudodo wa oranje hamwe n'ijipo ngufi, akaba afite igipfuko ku ivi, aho yari yagiye kwiyomoza igisebe yari yagize, ngo ahabwe serivise z'ubuvuzi.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agapira k'umukara n'inkweto z'umukara uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho arimo gusimbuka ku gikoresho cyabugenewe gikorerwaho imyitozo ngororamubiri, mu nzu itanga serivise ikorerwamo iyi myitozo ngororamubiri izwi nka jimu.

Abaganga babiri bambaye amajiri y'umutuku aho bari barimo kuvura umukinnyi wari ugize ikibazo cy'imvune aho barimo kumutera imiti imugabanyiriza uburibwe ndetse ikamufasha gukira imvune ye byihuse kugira ngo akomeze gukina, abaganga bakaba ari inzobere mu bijyanye no kuvura imvune ndetse no kuvura abakinnyi.

Akaguru k'umugabo ukora imyitozo ngororamubiri, kariho udukoresho twabugenewe dufasha ingingo kutavunika. Utu dukoresho tukaba dutangwa n'inzobere mu by'ubuzima zivuga ko dufasha abakora imyitozo ngororamubiri kwirinda kuvunika.

Abatanga serivisi z'ubuvuzi bw'ingororangingo, aho bakoresha urubuga rwo ku ikoranabuhanga rwo kuri murandasi, rugerwaho hakoreshejwe terefone zigendanwa ndetse na mudasobwa mu kumenya ubwoko bwa siporo umuntu yakora, bifashishije amashusho.

Icyapa kiriho umuntu ufashe ikiganza urimo kwiruka ndetse n'uri kwiruka hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye, hamwe n'icyapa cy'umusaraba uri mu ibara ry'umutuku, ushushanyijwe umweru, akaba ari icyapa cyimakaza ubuvuzi ku ba siporotifu bakora siporo.

Icyapa kiriho ibiryo biriribwa bitandukanye nk'amagi, imboga, inkoko ndetse n'amazi, kikaba kiriho kandi umusore urimo guterura ibyuma biremereye, kikaba gishishikariza abantu gukora imyitozo ngororamubiri bakanywa amazi hanyuma bakarya indyo yuzuye ikungahaye ku biribwa bikungahaye ku ntungamubiri bibafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara.

Umuganga w'inzobere mu kuvura ibijyanye n'imitsi ndetse n'imikaya hamwe n'imvune, urimo gukanda imikaya y'umukinnyi uryamye ku gitanda, akaba arimo kumufasha ku mvune yari yageze mu gihe yari arimo gukina.

Icyapa kiriho igikombe kirimo amazi, ikirahuri kirimo ji, inyama z'amafi, imboga n'imbuto zitandukanye, kikaba kifashishwa mu gukangurira abakora siporo imirire myiza idakungahaye ku byangiza umubiri.

umutobe wo macunga uri mu kirahuri giteretse ku meza hamwe n'imboga rwatsi n'imbuto zitandukanye nka pome n'amacunga, hamwe n' udukoresho twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, hamwe na metero yifashishwa mu gupima umubyibuho, bikaba ari ibikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Igikapu gitukura gifite imishumi y'umukara kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga bavura abakora imyitozo ngororamubiri, ndetse n'abakina imikino itandukanye nk'umupira w'amaguru, n'imipira y'amaboko nka volley ball ndetse na basketball, aho iki gikapu kiba kirimo amabarafu, amapomade ndetse n'amabande n'udusizo twifashishwa mu kuvura abakinnyi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, wahinnye ukuboko kumwe, urimo kunywa amazi anayisuka mu isura, mu rwego rwo kugira ngo agarure ubuyanja, aho yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, akaba ari kunywa amazi meza, akoresheje icupa, akaba yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri, bimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, bifasha imibiri y'abantu kwirinda indwara ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Imodoka y'imbangukiragutabara irimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo igana ku bitaro, iyi modoka ikaba yifashishwa mu gutwara indembe ziba zikeneye kugezwa kwa muganga mu buryo bwihuse, ikaba ifasha abantu mu buryo bwiza cyane bwo kubona serivisi z'ubuvuzi bitabagoye.

Igikapu gitukura kirimo ibikoresho bitandukanye nk'amabande, amasizo, amaga yambarwa mu ntoki ndetse n'ibinini, hamwe na pomade n'indi miti yabugenewe yifashishwa mu kuvura abakora umwuga wa siporo.

Umusore wambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi, urimo kunywa amazi akoresheje icupa ryabugenewe, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri, bimufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kugira ubuzima buzira umuze.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara wambaye isaha mu kaboko, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri zimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima mu rwego rwo kurushaho kurinda imibiri yacu ndetse no kuyifasha kugira imbaraga zo guhangana n'indwara zitandukanye.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara, uri mu mwanya wagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, akaba yashinze ivi hasi irindi rihagaze, amaboko ari kutako, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, ifasha umubiri we kugira imbaraga ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Abagabo batandukanye barimo kwiruka ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, bambaye amakabutura y'umukara ndetse n'imyenda itandukanye ikoreshwa muri siporo, bakaba barimo gukora imyitozo ngororamubiri ibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha umuriro w'amashanyarazi byifashishwa n'inzobere mu kuvura indwara z'imvune ndetse n'iz'imikaya zishobora kwibanda ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'abakina imikino y'amaguru ndetse n'iy'amaboko.

Umukobwa wambaye agasengeri usutswe imisatsi, akaba yambaye ndetse n'ipantaro y'umukara, wazamuye umugongo yashyize amaboko hasi yubamye akaba ari mu myitozo ngororamubiri, bifasha umubiri kugira ubuzima bwiza nk'uko tubigirwarimo inama n'impuguke mu by'ubuzima.

Umudamu wambaye agapira k'amaboko maremare k'umweru ndetse akaba yambaye n'impeta akaba yambaye n'ishanete mu ijosi, akaba yari arimo kwivura imvune yari yagize mu gihe yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyuma cyabugenewe gikoreshwa n'inzobere mu by'ubuzima mu gusuzuma indwara zifata mu gice cy'umutwe, iki cyuma kikaba kizwi neza mu gusuzuma indwara nyinshi zitandukanye, mu gufasha abantu kubona ubuzima, ubuvuzi bwiza kandi bwihuse.

Igikombe cy'ikirahuri, kirimo gusukwamo amazi avuye mu icupa, mu kugira ngo anyobwe akaba ari amazi meza, anyobwa kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, akaba yifashishwa kandi n'abakora siporo, mu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri icumi igirwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima. Iyi imyitozo ikaba ishobora gufasha abagize ibibazo bitandukanye byo mu mutwe kubafasha kugarura ndetse no kugira ubuzima bwiza, bikaziba icyuho cy'ibyo bibazo bagize.

Umuti uri mu icupa rirerire ry'umweru, ririho ikirango cy'umukara cyanditseho sitopu peyini, akaba ari umuti wifashishwa mu gupuriza ahantu hagizwe imvune, ukaba wifashishwa cyane cyane n'abaganga bavura abakinnyi bakora imikino ngororamubiri.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba afashe mu ivi ry'umukinnyi, ubwo yari arimo kumuvura, ubwo yari yahuye n'imvune, uyu muganga akaba ari inzobere mu bijyanye no kuvura imvune, hamwe no kuvura abakinnyi, indwara zitandukanye bahura nazo, mu kazi kabo ka burimunsi.

Ibyuma byabugenewe bikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, aho bifite ibyuma bisuzuma, hamwe na mudasobwa iba iteretse aho ku ruhande ibereka ibyo bakora, kugira ngo bisuzume ndetse bakore imyitozo ngororamubiri ifite intego kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyabugenewe cy'imashini igezweho, yifashishwa n'abaganga ndetse n'inzobere mu by'ubuzima, mu gupima indwara nyinshi zitandukanye zifata mu mubiri mu imbere mu kubafasha kuvura abarwayi neza.

Igikoresho cyo kwa muganga cy'umukara, kifashishwa mu kwambarwa n'abagize ibibazo bitandukanye by'imvune yo ku maguru, aho gafasha abo bantu kubona, uburyo bwiza bwo gutwaramo akaguru kavunitse, bityo bikagafasha gukira byihuse.

Icyapa gishushanyijweho balo y'umupira w'amaguru, inkweto zikinishwa umupira w'amaguru hamwe n'igikoresho gikoreshwa kwa muganga, kikaba ari icyapa kigaragaza ivuriro ry'abagiriye ibibazo bitandukanye by'imvune muri siporo.

Umuganga usutswe imisatsi urimo kwambara agapfukamunwa wambaye ga mu ntoki ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gupima k'umutima utera, arimo kuzuza inyandiko z'abarwayi mu rwego rwo kubasuzuma ndetse no kubafasha kubona imiti nyayo kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi.

Umusore wambaye ikabutura ndetse n'agapira k'amaboko magufi k'umweru akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri nk'uko zitangwaho inama n'impuguke mu by'ubuzima, zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka bifasha umubiri kugira ubudahangarwa bwo guhangana n'indwara zitandukanye.

Umuforomo utanga serivisi z'ubuvuzi bw'ingororangingo, akaba yambaye umwambaro w'akazi w'ishati yo mu bururu bwerurutse hamwe n'umusore wicaye ku ntebe wambaye agapira k'amaboko magufi, uteruye icyuma kifashishwa mu kugorora imikaya ku bafite ikibazo cy'imikaka.

Agakoresho kabugenewe kabikwamo ibikoresho bitandukanye byo kuvura abakinnyi aho haba harimo amapomade abafasha gukira imvune n'imiti igabanya uburibwe hamwe n'iyomora ibisebe ibi bikaba bigendanwa n'abaganga b'inzobere mu kuvura abakinnyi aho babafasha gukora imyitozo ngororamubiri babavura indwara bahuye nazo.

Icyuma kigaragara mu bitaro bitandukanye mu Rwanda, kikaba gikoresha amashanyarazi, kikaba cyifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye ziba mu mubiri mo imbere, kikaba gifasha abaganga kubona, gutanga ubuvuzi bwihuse kandi bushingiye ku bimenyetso, bityo bigatuma batanga imiti ya nyayo mu gufasha abaturage, kubona ubuvuzi bwiza.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'agasengeri k'umweru, wicaye hasi warambuye ukuguru kumwe, agahina uk'undi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, imwe mu ifasha mu kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Abanyeshuri biga iby'ubuvuzi bw'imvune ndetse no kuvura abakinnyi, ubwo bari barimo guhugurwa kuri serivisi zitandukanye n'uburyo bwo kwita ku bagize ibibazo by'imvune kugira ngo barusheho gukarishya ubumenyi bwabo bitegura kuzaba abaganga beza.

Imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane imvune zivanzemo utu etagel twiza two kwa muganga twabugenewe kubikwamo imiti, imiti ikaba yifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'abandi bakina imikino itandukanye nk'imikino y'amaboko ndetse n'iy'amaguru mu gihe bahuye n'ibibazo by'imvune.

amafunguro yiganjemo amagi ndetse n'imboga n'imbuto hamwe n'udukoresho twifashishwa mu myitozo ngororamubiri hamwe n'isume ndetse n'icupa ry'amazi biteretse ku meza bikaba bikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri itandukanye ndetse bakanywa n'amazi meza bakibanda ku biribwa by'imboga n'imbuto kugira ngo bagire ubuzima bwiza

Umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'isengeri y'umweru washyize ivi hasi akaba yazamuye amaboko imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi uyu mukobwa akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri ikaba ari intama itangwa n'impuguke mu by'ubuzima bizivuga ko iyi myitozo ngororamubiri ifasha umubiri kugira imbaraga ndetse no guhangana n'indwara zimwe na zimwe bigatuma uyikora agira ubuzima bwiza.

Umukobwa usutse imisatsi, wambaye kuteri, wambaye isaha ndetse n'agakoresho gatwarwa ku kuboko gatwarwamo telefone akaba ari muri siporo arimo kugorora ingingo yashyize amaboko inyuma.

Umukobwa wambaye ipataro ya siporo ndetse n'agasengeri k'icyatsi, akaba yashyize ukuboko inyuma yunamye akoze ku kaguru. Akaba arigukora imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri we kugira ukwirinda indwara zitandukanye, ndetse bikamufasha kugira ubuzima bwiza nk'uko abishishikarizwa n'inzobere mu by'ubuzima.

umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi, akaba afite aka esuyime k'umweru mu ijosi aho ari kunywa amazi akoresheje icupa, akaba yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri; zimwe zigirwamo inama n'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima, mu kurinda umubiri, no kuwongerera imbaraga.

Umukobwa usutswe imisatsi irimo akantu kayifashe, yazamuye amaboko yayahuje, arimo kunanura amaboko mu rwego rwo kugira ngo akore siporo z'ingororamubiri mu kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore wambaye kora y'umukara n'agakabutura k'ubururu karimo uturongo tw'umukara, hamwe n'inkweto z'umukara, akaba asutse direde, yambaye ibikomo, ashyize akaguru kamwe imbere ndetse n'amaboko, ari muri siporo mu byumba bikorerwamo siporo bizwi nka jimu.

Inkweto izamuye y'ibara ry'umukara, ikaba yifashishwa n'abaganga mu gihe barimo gutanga serivisi z'ubuvuzi, ikaba ibafasha kuba bakangizwa n'ibikoresho byo kwa muganga, ikarinda amaguru yabo.

Umusore wambaye isengeri y'ikijuju ndetse n'ikabutura y'umukara uri muri siporo, akaba atanga serivisi z'ubuzima ku bijyanye na siporo mu kugorora ingingo mu gufasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye isengeri ufite akayeswime ku rutugu akaba ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ubwo yari avuye mu myitozo ngororamubiri zimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho ukanywa amazi meza ukarya ibiryo byiganjemo imboga n'imbuto bifasha umubiri wawe kwirinda indwara no kugira ubudahangarwa.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afashe ku ivi ry'umukinnyi, akaba ari umuganga wize ibijyanye n'imvune z'abakinnyi, arimo kugarura igufwa ry'umukinnyi wavunitse arimo gukina.

Umusore wambaye inkweto z'umukara n'ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri izi zikaba ari inama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima ko iyi myitozo ngororamubiri ifasha umubiri kugira imbaraga ndetse no guhangana n'indwara zimwe na zimwe.

Ibikoresho bitandukanye harimo amabande ndetse n'amasizo n'ibipfuko bitandukanye hamwe n'amapomade agabanya uburibwe byifashishwa n'abaganga bavura abakina imikino ngororamubiri hamwe n'indi mikino nk'umupira w'amaguru ndetse n'umupira w'amaboko ibi bikoresho bikaba bikoreshwa n'izo nzobere mu kuvura ibibazo by'imvune bigerwa n'abo bakinnyi.

uUmusore wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru akaba yambaye impeta mu rutoki ndetse n'agakomo k'umukara ku kaboko, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri imufasha kugira ubuzima bwiza, bigafasha umubiri we kwirindanda indwara zitandukanye.

Umugore urimo kugendera ku gakoresho gafite amapine kifashishwa n'abagize ibibazo by'imvune ndetse n'iby'imikaya, mu rwego rwo kongera kubafasha kugenda, aho imbere ye hahagaze umugabo wambaye ikabutura y'umukara ufite balo mu ntoki, akaba ari umuganga urimo kuba umufasha mu bijyanye no gukira kwe, imvune yagize.

Umugabo n'umugore bahagaze bateranye imigongo bose bari kunywa amazi bakoresheje amacupa meza yabugenewe abikwamo amiza asa neza, kimwe mu bishishikarizwa n'inzobere mu by'ubuzima mu gushishikariza abantu kunywa amazi menshi ashoboka kuko afasha umubiri wacu gusukura ibice bitandukanye by'umubiri bigafasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Umuti uri mu gacupa kanditseho sitopu peyini, ukaba uri mu gacupa keza ku'umweru gafunze neza, ukaba ukoreshwa mu gupuriza ahagize imvune, cyane cyane ukaba ukunda gukoreshwa n'abakinnyi bakina umupira w'amaguru.

Icyapa kiriho ibiganza byerekana uburyo bazirika bande, mu gufasha abantu bavunitse ikiganza mu mvune zitandukanye, bikaba bifasha abaganga ndetse n'abarwaza, gufasha abagize ibyo bibazo by'imvune.

Igitabo cyitwa journal of sports medecine and therapy cyifashishwa mu mu guhugura abantu kumenya imivurire itandukanye ikoresheje siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri ifasha abantu gukira indwara zitandukanye babifashijwemo n'impuguke muri ubu buvuzi.

Abaganga b'inzobere mu bijyanye no kuvura imikaya ndetse n'imvune zitandukanye, ubwo bari barimo kuvura umukinnyi wari wavunitse ari kwa muganga, barimo kumugorora mu rwego rwo kumufasha gukira imvune ndetse no kubona ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akire.

Ikoranabuhanga ry'utudege tutagira abapirote tuzwi nka "dorone" twifashishwa mu gutwara ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze, aho kabikura ahantu hamwe kabijyana ahandi hakenewe ubutabazi, bitiriwe bisaba gukoresha imodoka cyangwa se ibindi bikoresho bishobora gutinza ubwo butabazi.

Umusore wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, urimo kunywa amazi meza ari mu icupa, akaba amaze gukora imyitozo ngororamubiri akanywa amazi meza, bimwe mu nama zigirwa n'impuguke mu by'ubuzima, bifasha umubiri kugira ubuzima bwiza ndetse no kugira abasirikare bahagije ku buryo ushobora guhangana n'uburwayi butandukanye.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ijagi ikozwe mu kirahuri, kirimo gusuka amazi mu kirahuri cy'igikombe, aho agiye kunyobwa n'umugabo umaze gukora imyitozo ngororamubiri bimufasha kugira ubuzima bwiza nk'uko tubigirwamo inama n'abaganga.

Ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri hamwe n'abakina imikino itandukanye, harimo nk'umukino w'amaguru ndetse n'umukino w'amaboko nka basikete ndetse na vore baro, aho ibi bikoresho byifashishwa mu kubavura imvune zitandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye iva mu bimera bihingwa mu busitani, ikaba iteretse mu ka etajeri kabugenewe, ikaba iri mu macupa y'ingano zitandukanye, aho iyi miti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta ya foreva akaba akorwa hifashishijwe igikakarubamba, iki kimera kikaba kivamo imiti myiza yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye, kikaba ari ikimera cyiza gikoreshwa cyane mu Rwanda.

Umuti wa elekitoromisine akaba ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara zifata mu buhumekero, ziterwa n'udukoko duto tuzwi nka bakiteri, uyu muti ukaba ugaragara mu bitaro bitandukanye, hamwe n'amavuriro, ndetse na farumasi zitangirwamo imiti.

Agasekuru gato kifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ituruka mu bimera ndetse no mu mbuto zitandukanye, aho zizanwa zikuwe mu murima zigasekurirwa muri aka gasekuro, zikanikwa ndetse zigashyirwa no mu mazi ashyushye, aho bitanga imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta ya alowe ari mu macupa atandukanye akaba akoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye. harimo nk'ibiheri ndetse n'ibishishi. Aya mavuta akaba akorwa hifashishijwe ikimera cy'igikakarubamba gikoreshwa mu gukora amavuta atandukanye ndetse n'imiti yifashishwa mu kuvura uruhu.

Imiti y'ubwoko butandukanye ikorwa mu bimera bitandukanye bivamo imiti, baho iri mu macupa y'ubwoko butandukanye harimo aya plasitike ndetse nay'ibirahuri. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo ibiheri, amahumane ndetse n'inkorora hamwe n'ibicurane.

Amavuta ya alowe vera geri akaba akorwa mu bimera bitandukanye birimo nk'igikakarubamba ndetse n'imbuto za avoka, aho aya mavuta afasha uruhu kururinda indwara zitandukanye zifata uruhu harimo nk'ibiheri ndetse n'ibishishi aya mavuta abahanga mu by'imiti bakaba bavuga ko ari meza kuko atuma uruhu rutoha.

Tangawizi ziteretse ku meza hamwe n'ironji hamwe na ji irimo ironji bikaba byifashishwa mukongera intungamubiri ziri mu mubiri ibi bikaba bigirwamo inama abafite ibibazo byo kubura imyunyu ngugu ndetse n'intungamubiri mu mubiri bikaba bishishikarizwa cyane abagore batwite ndetse n'abana bakiri bato.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi, uri mu ivuriro rikoresha imiti ituruka mu byatsi cyangwa se mu bimera aho ipanze mu tubati. Iyi miti ikaba ikorwa hakoreshejwe ibyatsi biterwa mu busitani.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigega gishinzwe ubuzima ku isi WHO, mu rwego rwo kwandikisha imiti gakondo mu bihugu bya Africa, kugira ngo iyi miti ibe izwi, ikoreshwe mu buryo buzwi.

Ibimera biteye mu busitani buhingwamo ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo, bikaba bifasha abakora umwuga w'ubuvuzi bakoresheje imiti gakondo, mu kubona imiti bayikuye muri ibi byatsi, bakayifashisha bavura abantu indwara zitandukanye.

Amavuta ya alowe akorwa mu bikakarubamba, akaba ari amavuta afasha uruhu kugira ubuzima bwiza, akarufasha ndetse no kurinda indwara zitandukanye, iki kimera kikaba kiboneka mu busitani butandukanye mu gihugu, kikifashishwa n'abaganga kuvura indwara nyinshi zitandukanye z'uruhu.

Imiti yashyizwe mu macupa ndetse no mu dukarito dufite ibara ry'umweru ndetse n'iry'icyatsi rishushanyijeho umuntu urimo gukora siporo, akaba ari imiti ibamo intungamubiri zifasha abakora siporo mu kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bikaba biva mu bimera gakondo bihingwa mu butaka, ku isi, mu bice bitandukanye, bikaba byera cyane cyane no mu gihugu cy'u Rwanda.

Igikoresho cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ituruka mu bimera bitandukanye, aho hafatwa amababi ndetse n'indabyo z'ibimera bitandukanye bivamo umuti, bakabisekurira mu isekuru bityo umuti uvuyemo ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyapa kigaragaza ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo, aho harimo ikimera cya bazilisi cya livenda ndetse na tangawizi hamwe n'umuravumba n'ikindi kimera cy'igikakarubamba, bikaba byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ifasha kuvura uburwayi butandukanye.

Amavuta ya forever awe bery necta, akaba akorwa hakoreshejwe ibimera bitandukanye hamwe n'ubuki buva mu nzuki, aya mavuta akaba afite umwimerere, akaba akoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye, harimo ibiheri, ibihushi ndetse n'amahumane. Akaba afasha uruhu kugira agasura keza rukaba runyereye.

Amavuta ya Foreva Agitike Si, akoze mu bimera bitandukanye, akaba ari mu gacupa keza k'umwerugafunze neza akaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu harimo nk'ibiheri ndetse n'amahumane.

Ikimera kirandaranda gifite amababi y'icyatsi gikoreshwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye. Iki kimera kikaba gisekurwa umutobe wacyo ugakorwarwamo umuti ugashyirwa mu ducupa twabugenewe kugira ukoreshwe mu kuvura.

Amavuta ya alowe n'aya foreva fayibazi akorwa mu bimera bitandukanye harimo nk'igikakarubamba, aya mavuta akaba akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu nk'uko inzobere mu by'ubuzima bizigaragaza.

Umuti w'ibinini bitatu biri mu gakarito k'umweru kanditseho mifejine, akaba ari imiti ifasha kuvura indwara z'abadamu, ukaba ukorwa mu bimera bitandukanye bihingwa mu busitani.

Umuravumba uhinze mu busitani, iki cyatsi kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora ndetse n'ububabare butandukanye, kikaba gikoreshwa mu gutanga imiti gakondo ifasha mu kuvura.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti ndetse n'imbuto zabyo, biri ku gasahani, hariho n'ikindi gikoresho gikoreshwa hakorwa imiti iva muri ibi byatsi, aho ifatwa igashyirwa mu gasekuro gato, igasekurwa hakavamo umutobe wayo, ugakoreshwa nk'umuti mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta ya forever aloe beats akaba akorwa mu gikakarumba ndetse n'igicuncu bikaba bihuzwa bigakorwamo umuti mwiza uvura indwara zitandukanye z'uruhu aho nk'uko bigaragara ku cyapa cyiyamamaza akaba avura indwara zifata ku ruhu.

Imiti gakondo iri mu macupa y'ibirahuri ikaba iriho ibirango bigaragaza ibigize iyo miti iyi miti ikabikozwe hifashishijwe ibimera bitandukanye harimo ibikakarubamba ,ibicunshu, imiravumba ndetse n'ibindi byinshi nk'imigombe byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Umuti wa Forceval soluble ukaba ukorwa mu bimera bitandukanye, aho uba ukungahaye ku ntungamubiri ndetse n'imyunyungugu ifasha abafite ibibazo bitandukanye byo kubura imyunyungugu imwe n'imwe, bibatera uburwayi butandukanye, bityo bagahabwa iyi miti ikorwa mu bimera mu kugira ngo bongere ingano y'iyo myunyungugu mu mubiri.

Amavuta ya Aloe lips asigwa ku minwa, mu kuyifasha kubobera ndetse no kwirinda ibisebe byo ku munwa, aho kandi aya mavuta afasha abayisize kurinda indwara ziterwa n'udukoko dufata ku minwa.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kirandaranda gitewe mu busitani, iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukora imiti y'ubwoko butandukanye, aho gifatwa, kigasegurwa, kigakamurwa, umutobe wacyo ugashyirwa mu bikoresho byabugenewe ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

poliver hand sanitizer akaba ari umuti wica udukoko two mu biganza, uyu muti ukaba ukorwa hifashishijwe ibikakarubamba bikungahaye kuri arikoro harimo nk'igikakarubamba bikaba bifasha kubona uyu muti ugakoreshwa mu gusukura intoki neza.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kikaba gihinzwe mu busitani, kikaba gikoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye, aho gifatwa kigasekurwa umutobe wacyo ugakamurwa ugakoramo imiti itandukanye ifasha kuvura indwara zitandukanye.

Ibimera bifite amababi y'icyatsi ndetse n'uturabyo dufite ibara rya oranje, bikaba ibi bimera byifashishwa mu gukora imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi, akaba ari imiti gakondo isekurwa hakavamo amazi yayo yifashishwa mu mubiri.

Ikimera cy'igicunshu kigaragara mu busitani butandukanye mu Rwanda, kikaba cyifashishwa n'abakoresha imiti gakondo, mu gukora imiti ifasha kuvura indwara zitandukanye, iki kimera kikaba ari cyiza, nk'uko gikorwamo umuti kibanje gusekurwa, hakanyobwa amazi akivamo.

Ikimera cy'ibara ry'icyatsi giteye mu busitani, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, aho gifatwa, kigasekurwa, kikavamo umutobe, ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta ari mu icupa ry'icyatsi ripfundikiye neza akaba ariho igishushanyo cy'igikakarubamba, ayo mavuta akaba akorwa mu gikakarubamba akaba afasha uruhu kwirinda indwara zifata uruhu zitandukanye, ndetse akaba arufasha kugaragara neza rukaba rusa neza.

Pomade n'amavuta ya arowe, bikozwe mu kimera cy'igikakarubamba, gihwa mu busitani butandukanye mu gihugu, bikaba bifasha ababyisiga kwirinda indwara zitandukanye z'uruhu ndetse no kuvura uduheri.

Ibimera bitandukanye bihingwa mu busitani ahavamo imiti gakondo, ibi bimera bikaba byifashishwa n'abaganga mu gukoramo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Amavuta y'uruhu akoreshwa n'abafite ibibazo bitandukanye by'uruhu, harimo nka jeli kirinsa, infiniti endi tona, akaba yifashishwa mu kuvura indwara z'ibiheri, ibihushi ndetse no gufasha abafite uruhu rukanyaraye, kugira uruhu rworoshye.

Ikimera kizwi nka kanabisi mu kinyarwanda akaba ari urumogi, cyifashishwa mu gukora imiti myinshi itandukanye harimo irinda ububabare ndetse n'igabanya ububabare, iki kimera kikaba gihingwa mu bihugu bitandukanye mu rwego rwo gufasha ibyo bihugu kubona ibimera bivamo imiti.

Amavuta ya Forever bee pollen, akorwa hakoreshejwe ibimera bitandukanye ndetse n'ubuki, akaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu, harimo nk'ibihushi ndetse n'ibiheri bitandukanye; bifasha abayakoresha kugira uruhu rwiza n'ubuzima bwiza.

Ibikoresho byifashishwa mu gukora imiti gakondo ituruka mu bimera bitandukanye, harimo nk'ibyatsi, ibiti, imbuto, mu kugira ngo bakamure umutobe wabyo, kugira ngo bivemo imiti yifashishwa kuvura indwara zitandukanye.

Umuti uri mu isashe y'umukara, akaba ari umuti wakozwe ukuwe mu bimera bitandukanye, harimo nk'umuravumba ndetse n'umubirizi, aho byanitswe, bigasekurwa, bigatanga ifu yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora ndetse n'amahumane.

Akagera Medecine gakora imiti ituruka mu bimera gakondo, nk'ibicuncu, imiravumba ndetse n'inyabarasanya n'ibifaranindi, iki kigo kikaba gikora iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta ya foreva dayari akaba akorwa mu bimera bitandukanye harimo nk'igikakarubamba ndetse n'umubirizi, akaba yongerwamo n'ubuki ndetse na voka, akaba afasha uruhu kwirinda indwara zifata uruhu ndetse akarufasha gusa neza.

Amavuta ya aloe panch akorwa mu gikakarubamba, akaba ari mu icupa ryiza ry'umweru ririho amabara ya orange, aya mavuta akaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu ndetse no kurufasha guhora ruhehereye.

Isabune yitwa avakado fasi endi bodi sopu, ikaba ikorwa mu kimera cy'igikakarubamba kivanzwe n'urubuto rw'avoka, aho byifashishwa mu koga, bigafasha uruhu kugira ubuzima bwiza kandi rugahora rutoshye.

Umuti w'amenyo uko mu kimera cy'igikakarubamba, uyu muti ukaba wifashishwa mu koza amenyo ndetse no kuyarinda kwandura indwara zitandukanye, aho bigaragara ko umuganga arimo gufasha umurwayi gushyira uyu muti ku buroso bwoza amenyo.

Umuti uri mu gakarito keza gafite amabara y'umweru n'ubururu uyu muti ukaba witwa choleduz omega supplement akaba ari umuti urimo intungamubiri zitandukanye zikorwa hifashishijwe ibimera ndetse bitandukanye bihingwa mu busitani buri mu gihugu.

Ikimera kirandaranda, cy'ibibabi by'icyatsi, ndetse n'uturabyo, kikaba giteye mu busitani bw'itaka ry'inombe, kikaba cyifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye, aho gisekurwa, kikanikwa, kikavamo amazi afasha kuvura inkorora, ndetse n'ibicurane.

Ravanda, umuti ukorwa mu bimera bitandukanye, ukaba ushyirwa mu gacupa k'umukara gafunze neza, kakaba gateretse mu kiganza cy'umugore, aho aka gati gakoreshwa kavura indwara zitandukanye z'uruhu.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ziganjemo amacunga hamwe n'indimu biteretse ku meza. Bikaba bigirwamo inama n'inzobere mu by'imirire, gufata imboga kenshi n'imbuto kenshi gashoboka mu kubafasha kongerera ubushobozi imibiri yabo birinda indwara.

Ikimera cyera kizamuka, gifite uruti rukomeye, kikaba giteye mu busitani butewemo n'ibindi bimera byinshi byifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye, aho bifatwa bigasekurwa mu isekuru, bityo amazi avuyemo agakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera cy'igifaranindi giteye mu busitani kikaba cyifashishwa mu gutanga imiti gakondo itandukanye aho iki kimera gifatwa kigasoromwa mu busitani kikagenda aho gitunganyirizwa bakayisekura umutobe wacyo ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nk'ibicurane ndetse n'inkorora.

Amababi y'ibimera bivamo imiti ari mu mazi ashyushye, aya mazi akaba ari mu kirahuri cy'umweru giteretse ku meza, bakaba barimo gukora iyi miti iva muri ibi bimera hakoreshejwe amazi ashyushye aho aya mazi atuma imiti ikamuka iva mu bimera iza mu mazi bityo bikanyobwa bigafasha kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera cy'umuravumba, kigaragara mu busitani bwinshi mu gihugu, kikaba kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora ndetse n'ibisebe, iki kemera kikaba gisekurwa, hakavamo umutobe wacyo, ugakoreshwa mu kuvura.

Ikimera kizwi nk'amatovu kigaragara mu mirima itandukanye ndetse hakaba hari n'ibihingwa mu busitani, bikaba byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, aho bisekurwa mu isekuru hakavamo amazi asa icyatsi agakoreshwa mu kuvura indwara.

Amavuta ndetse n'imiti ya alowe hamwe n'indi ikorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye nk'igikakarubamba ,umwenya, igifaranindi ,inyabarasanya ndetse n'umugombe, bikaba byifashishwa mu gukora iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Igihingwa cya tangawizi gihingwa mu busitani buvamo imiti, aho iki gihingwa gifatwa kigasekurwa kigakurwamo imiti itandukanye, ifasha kuvura indwara z'inkorora ndetse n'ibicurane, aho iki gihingwa ari cyiza abantu bavuga ko kibafasha cyane, batiriwe bajya gushaka imiti ya kizungu.

Icyapa kiriho icupa ry'amavuta ya arowe ndetse n'igikaka rubamba, iruhande rwacyo hari ikirahuri cy'amazi, kikaba gisobanura uburyo aya mavuta akorwamo, akaba akorwa hakoreshejwe ikimera k'igikakarubamba ndetse iki cyapa kikaba kivuga ukuntu aya mavuta avura, akaba avura indwara zitandukanye zifata uruhu, harimo nk'ibishishi ndetse n'ibiheri.

Amavuta akozwe mu bimera bitandukanye, harimo nk'umuravumba, umubirizi ndetse n'igikakarubamba, akaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu, aho atuma uruhu rutoha, bityo bikarurinda indwara.

Ikimera kirandaranda gifite uturabyo hamwe n'amababi y'icyatsi kikaba giteye mu busitani burimo itaka ry'inombe, iki kimera kikaba kifashishwa gukora imiti gakondo ivura indwara zitandukanye harimo nk'ibicurane ndetse n'inkorora.

Amavuta meza akorwa mu gikakarubamba akaba ari mu gicupa, mu gacupa k'umweru gafunze neza, akaba asigwa ku ruhu mu kurufasha kwirinda indwara nyinshi zifata uruhu ndetse akarufasha guhora rutoshye.

Umuti uri mu icupa ry'umweru rifunze neza, rishushanyijeho umwana, ryanditseho kidi foreva, uyu muti ukaba ukorwa mu bimera bihingwa mu busitani buhingwamo ibimera bivamo imiti itandukanye, aho ibi bimera byifashishwa mu gukora iyi miti.

Ikimera giteye mu butaka gifite amababi y'icyatsi cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, aho iyi miti ikorwa igatunganywa igashyirwa mu ducupa twabigenewe, bityo igakoreshwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo ituruka mu bimera bitandukanye, aho iyo miti ikorwa mu busitani yatewemo, ikazana ikanikwa ndetse igasekurwa hakavamo ifu, ndetse n'umutobe wabyo bikifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Abaturage bishyize hamwe bakora imiti gakondo bakoresheje ibimera bitandukanye, harimo nk'imibirizi, inyabarasanya, ibifaranindi, hamwe n'imigombe ndetse na tangawizi bakora imiti y'ubwoko butandukanye, ifunze mu ducupa dupfundikijwe imifuniko y'ubururu ndetse n'iy'icyatsi.

Umuti ukorwa mu bimera bitandukanye, ukaba uvura ibibazo byo kurangiza vuba ndetse no gucika intege mu gihe utera akabariro, iyi miti ikaba yongera akanyabugabo, ikaba ifasha abafite ibi bibazo, kongera kugira ubuzima bwiza no kunoza iki gikorwa cy'abashakanye.

Imiti ipanze mu tu etajeri, akaba ari imiti iri mu macupa y'umweru, iyi miti ikaba ikorwa ikuwe mu bimera bitandukanye harimo nk'imiravumba, ibikakarubamba ndetse n'ibicuncu. Ikaba ifasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera cy'igicuncu kigaragara mu busitani butandukanye, kikaba cyifashishwa n'abaganga bakoresha imiti gakondo, mu kuvura inkorora ndetse na mugiga, kikaba gifatwa kigasekurwa, cyangwa se kikotswa, kigahekenywa kugira ngo kibyare umuti wifashishwa mu kuvura.

Amavuta ya erowe ndetse n'aya forever fiber akaba akorwa bifashishijwe ibimera bitandukanye harimo nk'igikakarubamba, igicucu, igifaraninde hamwe n'ava mu gikakarubamba aya mavuta akaba yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zifata ku ruhu.

Icyatsi k'ibara ry'ubururu gifite amababi arandaranda kikaba giteye mu busitani buhingwamo ibimera bitandukanye bivamo imiti, ibi bimera bikaba bisekurwa bimwe bikanikwa bikavamo ifu ndetse cyangwa se ibindi bigasekurwa bikavamo umutobe ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ipapayi ikase irimo imbuto n'indi iteretse iruhande rwayo, iyi papayi ikaba iribwa nk'ibiribwa bifasha umubiri kuyungurura amaraso ndetse no gusohora imyanda itandukanye.

Amavuta akomoka mu buki bw'inzuki akaba avangwa n'indi miti yavuye mu byatsi bitandukanye bitanga imiti, aho bihurizwa mu ducupa dutandukanye bityo bigakoreshwa n'abafite ibibazo by'uruhu, babyandikiwe n'abaganga kugira ngo bibavure.

Urubuga rwo kuri murandasi rufite icyapa gishushanyijeho ibyatsi bivamo imiti gakondo, uru rubuga rukaba rwifashishwa mu gutangaza imiti itandukanye iva mu bimera biterwa ku butaka, aho byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye harimo amasekuru ndetse n'ibibumbano bikozwe mu ibumba, hamwe n'amacupa abikwamo imiti itandukanye ya kinyarwanda, ikorwa hakoreshejwe ibimera by'ubwoko butandukanye iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko menshi.

Ikimera cy'umubirizi cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iki kimera kikaba kivura indwara nk'ibicurane ndetse n'inkorora, iki ikimera kikaba gihingwa mu busitani, kikaba cyifashishwa cyane n'abanyarwanda.

Imiti ifunze neza mu ducupa twiza tw'umweru dushushanyishijweho amabara y'umutuku ndetse n'ay'ubururu, iyi miti ikaba ikozwe iturutse mu bimera biterwa mu busitani buterwamo ibimera bitanga imiti, ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icyayi gikorwa mu bimera bitandukanye by'icyayi bihingwa mu Rwanda, kikaba cyifashishwa mu kuvura imivuduko y'amaraso ndetse n'izindi ndwara z'umutima, iki cyatsi kikaba cyifashishwa n'impuguke ndetse n'abavuzi bakoresha imiti ya gakondo.

Ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi biteye mu busitani buhingwamo ibyatsi bikorwamo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye, ibyatsi bikaba bifasha mu bavuzi gakondo mu kuvura abaturage.

Amavuta ya arowe akorwa mu gikakarubamba, aya mavuta akaba akorwa hifashishijwe ikimera k'igikakarubamba, giterwa mu busitani butandukanye bw'igihugu, akaba afasha kuvura indwara zitandukanye z'uruhu.

Ibibabi by'ibimera bivamo imiti, biri mu mazi ashyushye ari mu bikombe by'amatasi, akozwe mu birahuri, akaba ari amatasi arimo gukorerwamo umuti gakondo hakoreshejwe ibimera. Iyi miti ikaba ikoreshwa mu kuvura inkorora ndetse n'amagiripe.

Ikimera cy'umuravumba giteye mu busitani buteyemo n'ibindi bimera bitandukanye, bikoreshwa mu gutanga imiti ivura indwara zitandukanye, aho ibimera bifatwa bikajyanwa aho bitunganyirizwa, aho bisekurwa bigakamurwa imitobe yabyo igakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora ndetse n'ibicurane.